Gukingirwa ndetse n'inkingo ni bumwe mu buryo bw'ibanze bwo kwegereza serivisi z'ubuzima abaturage, aho usanga n'imiryango mpuzamahanga nka OMS ishishikariza ibihugu gutanga inkingo ku burwayi butandukanye, harimo nka za kanseri ndetse n'ibindi byorezo bitandukanye.

Umumama wajyanye umwana kwa muganga ndetse mbere y'uko bamusuzuma bakaba babanje kumujyana kumupima, imbere ye hakaba hari umugabo ukora kwa muganga akaba ariwe uri kubapima, iruhande rwe hakaba hari abandi babyeyi na bo baje gupimisha abana.

Itsinda ry'abaganga baba abadamu ndetse n'abagabo bigaragara yuko bambaye amabaji, basa nk'aho bagiye mu mahugurwa, aho bari kumwe n'umugabo wambaye karuvati n'ikositime w'umuzungu, wagira ngo ni we wari uri kubaha amahugurwa.

Kuboneza imirire mu bakiri bato nabyo ubwabyo ni isoko y'ubuzima bwiza aho usanga hari ubukangurambaga butandukanye nk'uvuga ku mbaraga z'iminsi igihumbi ukangurira ababyeyi kwita ku bana no kubagaburira indyo yuzuye mu gihe bakiri munsi y'imyaka ibiri.

Umujyanama w'ubuzima wambaye itaburiya y'ubururu, akaba afite igishushanyo kiriho abana babiri, uw'umuhungu ndetse n'uw'umukobwa, akaba ari kubyereka umubyeyi wambaye agapira k'umuhondo ndetse n'igitenge kirimo amabara agiye atandukanye.

Abajyanama b'ubuzima biganjemo abagore ndetse bari kumwe n'umugabo, bambaye ingofero z'imyeru n'imipira y'ubururu, inyuma yabo hari icyapa kiri mu ibara ry'umweru kiriho ikirango cya Mastercad ndetse n'umuryango urengera ubuzima ku isi OMS.

Ubukangurambaga mu rwego rw'ubuzima ku rwego rw'isi, buri gihe bukunze no kujyana no kwigisha abantu kugira isuku ndetse no gukoresha amazi meza. Niyo mpamvu ubona mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere, cyane cyane abana bato usanga batita ku isuku, aho bakoresha amazi mabi y'ibiziba, bityo bikabangamira ubuzima bwabo ndetse n'imikurire muri rusange.

Umuryango mpuzamahanga urengera ubuzima OHMS, wakoze ubushakashatsi bugaragaza yuko munsi ya makumyabiri ku ijana munsi y'ubutayu bwa Sahara abaturage batabona amazi meza, niyo mpamvu rero leta zitandukanye zishyira imbaraga mu gushaka amazi meza ku baturage bazo, uyu mubyeyi urabona ko yishimiye ari ku itabu aho ari gukoresha amazi meza.

Abana benshi bari ahantu mu kidendezi cy'amazi bigaragara yuko atari meza, bakaba bari gukora igikorwa cyitwa kwidumbaguza. Kwidumbaguza bukaba ari uburyo abana bogamo nk'uko abakuru babigenza iyo bari muri pisine.

Iki kigo cy'igihugu cy'ubuzima arabisi gitanga amahugurwa atandukanye ku bantu batandukanye cyane cyane abajyanama b'ubuzima n'abakora muri serivisi z'ubuzima aya mahugurwa agamije kongerera ubushobozi abakora muri izo serivisi kugira ngo babashe guha serivisi inoze aba bagana.

Umumama wambaye ijire ufite n'impapuro ari kugenda ahereza abantu, birasa nkaho ari umukozi utanga serivisi z'ubuzima, aho yagiye mu bukangurambaga mu baturage, akaba ari guhereza abaturage izo nzandiko kugira ngo babashe gusoma iby'ubukangurambaga ari kubabwira.

Inama yateranye iri kuvuga ku bijyanye n'ubuzima. Umumama yicaye ku ruhande, ni umwirabura, yicaranye n'abazungu ndetse n'umunyaziya umwe, aho imbere yabo hari uducupa tw'amazi, amakayi n'amakaramu. Umuzungu uri hagati, bisa nk'aho ari we uri kubahereza ikiganiro.

Abantu benshi b'abaganga bitabiriye ubukangurambaga, aho bari bari kwigisha kuri serivisi z'ubuzima zitandukanye mu baturage. Urabona rero yuko ari ibintu byiza, abaganga baba bakwiriye kwegera abaturage bakabaganiriza kugira ngo bamenye ibyo bakwiriye gukora, mu kugira ngo birinde indwara zitandukanye.

Mu rwego rwo kurinda abakozi bo kwa muganga kwandura ibyorezo mu gihe cy'ibyorezo bikomeye nka covid, ubushita bw'inkende ndetse n'ibindi, abakozi bo kwa muganga bakwiriye kuba bakingiwe bambaye ga ndetse n'imyambaro yabugenewe ibarinda mu maso kugira ngo batandura mu gihe bari kwita ku barwayi.

Amazi meza nk'ishingiro ryo kugira ubuzima bwiza. Muri iki gihe usanga Leta ishyiramo imbaraga mu kugira ngo abaturage hirya no hino mu Gihugu babashe kugira access ku mazi meza. Aho usanga nk'ahantu hatari amasoko bahashyira amapombo cyangwa ibyitwa nanikondo, kugira ngo abaturage babone serivisi z'amazi meza abegerejwe.

Georgia Grobal Health Alliance, ni ihuriro Mpuzamahanga cyane cyane rigizwe n'abafite inkomoko muri Amerika muri leta ya Georgia, aho batanga ubukangurambaga mu by'ubuzima mu nzego zitandukanye, cyane cyane ku ndwara zandura nka SIDA ndetse n'izindi bakanagaragaza ubushakashatsi bw'uburyo icyo cyorezo cyakumira.

Mu rwego rwo kubona serivisi z'ubuzima ni byiza yuko bihera mu rugo ndetse no mu miryango aho twese dushishikarizwa gukora kandagira ukarabe, hari kandagira ukarabe za gakondo nk'iyi ngiyi tureba uyu mugabo ari gukoresha ikozwe mu kajerekani n'uduti tubiri duhagaze n'akandi gatambitse aho ucomekamo akabedo ugashyiramo amazi yo gukaraba intoki.

Usanga ahenshi mu bice bitarimo amazi ya WASAC hari amapombo cyangwa za nayikondo gusa, hari ubucucike ku mavomero, aho usanga hari abantu benshi n'imirongo minini bategereje amazi cyane cyane mu bihe by'impeshyi, hakaba rero hasabwa kugezwa amazi menshi kandi meza, kugira ngo babashe kubona serivisi nziza z'amazi n'ubuzima muri rusange.

Abamama babiri ndetse n'umwana w'umukobwa, bari ku ivomero rusange aho hari amajerekani atandukanye, ari mu mabara y'umuhondo ndetse n'umweru. Umumama umwe akaba ari kuvoma, yambaye agapira k'umweru ndetse n'igitenge kirimo amabara atandukanye, ndetse n'undi uhagaze, wambaye agashati karimo amabara ya karokaro agizwe n'umutuku ndetse n'umweru, anakenyeye umupira w'ubururu.

Umugabo wambaye ishati ya karokaro akaba ari guseka cyane yishimye yicaye ku ijerekani bigaragara yuko ari kuyivomera uyu mugabo rero akaba ahantu ari inyuma ye hari ibyatsi byinshi.

Abana benshi bahurije ibiganza ku itiyo iva ku iriba cyangwa robine, bakaba bari kurwanira gukaraba amazi meza ari muri iryo vomero rusange. Aya mazi rero akaba ari ingirakamaro, gusa biragaragara yuko ari makeya ku bayakeneye, hakabaye hari amavomero menshi cyangwa se amatiyo menshi aba bana babonaho amazi.

Ubushakashatsi bwagaragaje ko amapomo , cyangwa se aho abandi bita nayikoni yagize uruhare runini mu kwegereza amazi meza abaturage . Cyane cyane mu duce tutagira amazi aturuka ku mariba ndetse naho amazi ya wahasaka atabasha kugera. Aho usanga ubuzima bwiza bwariyongereye kubera ko abaturage babona amazi meza abegereye .

U'mwana wumukobwa wishimye ari gukaraba intoki kuri kandagira ukarabe ikozwe mu ndobo isa icyatsi ndetse n'ibasi isa icyatsi, akaba yambaye iniforume bigaragara nk'aho ari ku ishuri. Uyu mwana rero ari kutwigisha umuco mwiza wo gukaraba intoki kenshi gashoboka kugirango ngo twirinde indwara zandura binyuze mu mwanda, no mu gusuhuzanya igihe tutakarabye intoki.

Ku ivomo rusange hari abana baje kuvoma. Aho hari umunyeshuri uri gufungurira umwana mutoya witwaje akabido gatoya karindwi, bikaba bigaragara y'uko ari kuvoma amazi ajyana mu rugo ngo bayakoreshe.

Muri serivisi z'ubuzima harimo n'igice cyahariwe kwita ku bana bafite imirire mibi aho usanga abajyanama b'ubuzima ndetse n'abandi bakozi ba leta by'umwihariko abakora muri serivisi z'ubuzima bateka indyo yuzuye ndetse bakanaha abana amata kugira ngo babashe kubavana mu mirire mibi.

Ubuvuzi cyangwa serivisi z'ubuzima ku rwego rw'isi, bijyana n'ubukangurambaga butandukanye, harimo no gutanga inkingo ku nzego bireba, aha ngaho urabona ko abaganga bari bari gutanga serivisi z'inkingo ku bana ndetse n'ababyeyi bari mu nkambi.

Mu ngamba zo kugeza ubuzima bwiza ku baturage, bisaba ko banagezwaho amazi meza kandi asukuye, kuko usanga ahakoreshwa amazi adasukuye nabyo byugariza ubuzima, kuko haduka indwara nyinshi z'ibyorezo zitandukanye, harimo nka macinya, korera ndetse n'izindi.

Ubukangurambaga bw'ubuzima ku Isi, abafatanyabikorwa b'inzego zitandukanye, bahugura abakiri bato koga amazi meza n'isabune kugira ngo bagabanye indwara zikomoka ku mwanda, cyane cyane abana bato baba biga mu mashuri abanza n'ay'inshuke, iyo uwo muco bawutojwe bakiri bato, bituma bagira umuco w'isuku aho bari hose bityo bakagira ubuzima bwiza.

Global Health Organization ni umuryango udaharanira inyungu, wibanda ku gutanga ubukangurambaga ku bijyanye n'ubuzima, aho bahugura abantu b'ingeri zitandukanye mu gutanga serivisi z'ubuzima, cyane cyane nk'abajyanama b'ubuzima.

Hirya no hino mu gihugu hagiye hari amavomero atandukanye, aho ikigo cy'igihugu gishinzwe amazi isuku n'isukura WASAC, gishyiraho igiciro ntarengwa ugasanga ijerekani igura igiceri cya makumyabiri kugira ngo Abanyarwanda bose babone amazi meza.

Mu rwego rwo kwimakaza ubuzima bwiza mu bigo by'amashuri ndetse n'ahandi hahurira benshi, uhasanga ibicupa cyangwa se ibidobo byabugenewe bijugunywamo imyanda, aho usanga imyanda ibora n'itabora igenda ishyirwa ahabugenewe, kugira ngo habungabungwe isuku.

Wasac water and sanitation corporation. Ni ikigo cyigenga gitanga serivisi za leta z'amazi n'isuku n'isukura, iki kigo reroba kigira uruhare runini mu gutuma ubuzima bw'abaturage bugenda neza, cyane ko aribo batanga amazi meza asukuye, yaba bayacishijwe mu nganda cyangwa amazi aba yavuye ku miyoboro migari

Mu kugeza serivisi z'ubuzima ku bagenerwabikorwa, hari abafatanyabikorwa benshi babigiramo uruhare cyane cyane tuvuge ku bajyanama b'ubuzima n'uruhare rwabo mu gufasha abaturage mu kubona serivisi z'ubuzima, bayitabira abukangurambaga atandukanye aho bageza inama zitandukanye ku banyarwanda.

Iri ni ivomero rusange aho uyu mupapa n'umumama baje kuvoma, uriya mudamu wambaye ijire akaba arimo arabatekerereza ukuntu bakwiriye kwita ku buzima bwabo, bakoresha amazi meza, bisa nkaho ariwe ushinzwe ririya vomero.

Ubukangurambaga mu bijyanye n'ubuzima ku isi, usanga batibanda ku mibereho y'abana kandi abana aribo bahura n'inzitizi zitandukanye mu bidindiza imibereho yabo myiza, aho usanga nk'imiryango ikennye ihura n'imbogamizi nyinshi zitandukanye nko kubonera abana ibyo bakeneye, bityo n'ubuzima bwabo nti bube bushinganye cyangwa ngo bube butekanye.

Abantu benshi bateraniye muri sare y'inama, aho harimo abagiye bafite amazi ku meza yabo, bakaba bambaye bose amabaji, bigaragara yuko bitabiriye inama ivuga ku bijyanye no kwegereza serivisi z'ubuzima abaturage.

Kugira ngo serivisi z'ubuzima zitagwe kw'isi birakwiriye yuko ubukangurambaga buhera mu bato cyane cyane mu mashuri hibandwa ku mashuri abanza ndetse nay'inshuke urabona yuko hano abana bato barimo batozwa imihango itandukanye ndetse n'imigenzo bakwiriye gukora mu buzima bwa buri munsi bimakaza ubuzima bwiza.

Kugira ngo abantu bamenye serivisi z'ubuzima bijyana n'ubukangurambaga baba bahawe. Turabona ko uyu muganga arimo arahugura ababyeyi baje bagana ivuriro kugira ngo bamenye serivisi z'ubuzima zitandukanye, cyane cyane izo kuboneza urubyaro.

Umumama wambaye amadarubindi akaba yambaye igitenge kirimo amabara y'ubururu, umuhondotuku wijimye, akaba ari kumwe n'abana benshi bisa nkaho ari umuganga w'abanaba, abana bakaba bishimye ndetse bisa nkaho bamuteze amatwi hari ikintu bari kwitegereza mu byo ari kubereka.

Serivisi z'ubuzima, biba byiza iyo zigejejwe ku bato, cyangwa na rubanda rugufi rutabasha kuzigodera mu buryo bworoshye, urabona ko aha izi mpuguke, zari zagiye guha serivisi zitandukanye abana batoya, biga mu mashuri abanza, n'ay'inshuke, kugira ngo nabo babashe kubahiriza uburenganzira bwabo, mu bijyanye n'ubuzima

Amazi meza akomeje kuba ikibazo rusange ku isi cyane cyane mu bihugu by'ubutayu, ariko usanga amaleta ashyiraho ingamba zitandukanye, aho nk'ahataboneka amasoko bahashyira amazi ava mu kuzimu, azwi nka pomba cyangwa se aho abandi babyita nayikondo, aya rero akaba ari amazi meza yifashishwa mu buzima bwa buri munsi.

Muri iki gihe usanga ahantu hamwe na hamwe kubona serivisi z'ubuvuzi bigoye ku buryo ushobora gusanga hari imirongo minini y'abarwayi itegereje ababavura kwa muganga ndetse n'ahandi hatangirwa serivise z'ubuvuzi, urabona ko hano abarwayi nabo bari benshi, ugereranyije bikaba bigaragaza icyuho kiri mu baganga bake ku barwayi baba bari ku mavuriro.

Abantu bane bari kuri pano harimo abagabo babiri ndetse n'abagore babiri, imbere yabo ku meza hari amacupa y'amazi agezweho yo mu bwoko bw'ibirahure, hakaba harimo umwe ufite microphone ari kwitegereza mugenzi we mu maso baganira.

Mu rwego rwo kugeza serivisi z'ubuzima ku bazikeneye usanga haterwa inkingo abantu batandukanye mu bigero bitandukanye, aho usanga nk'abana bari munsi y'imyaka cumi n'ibiri b'abakobwa baterwa inkingo za kanseri y'inkondo y'umura.

Serivisi z'ubuzima ku miryango ifite abana benshi usanga zigora abahagarariye imiryango cyangwa se ababyeyi, muri urwo rwego rero leta nayo itanga ubufasha ndetse n'imiryango itegamiye kuri leta, aho bakora ubukangurambaga mu kuringaniza urubyaro.

Umu mama uri gukoresha kandagira ukarabe ya gakondo ikozwe mu buryo busanzwe aho bafata akajerekani bagashinga ibiti bibiri bagatambikaho ikindi hanyuma iyikandagira ukarabe igakoreshwa mu buryo bwo kwirinda umwanda ukaraba intoki kenshi gashoboka.

Kuri iki kigo nderabuzima hari ababyeyi ndetse n'abakecuru batandukanye baje gusaba serivisi z'ubuzima, aho bari kwicara ku murongo, bagahaguruka bitewe n'ugezweho. Imbere rero hakaba hari ababyeyi batatu bahagaze, bakaba barimo barakirwa n'umukozi w'ivuriro.

Icyorezo cya mabaga ni icyorezo cyagaragaye mu Rwanda, mu mwaka wa ibihumbi bibiri na makumyabiri nagatatu, kugera bibiri na makumyabiri na kane. Iki icyorezo rero kikaba cyaratwaye ubuzima bwa benshi ariko kubera ubukangurambaga bwinshi bwashyizweho bwo kukirinda, kikaba cyarahise gicika.

Umugabo n'umugore, umugabo wambaye ikositime y'ikigina ndetse na karuvati y'icyatsi ari kumwe n'umudamu wambaye ikanzu, inyuma ya bo hari ibyapa byiganjemo iby'abana ndetse n'umudamu uteruye umwana bya Unicef.

Nashono dayaloge onu herifu fayinansingi ni ihuriro ry'inzobere ndetse n'inzego za Leta muri serivisi z'ubuzima, aho baganira bakanungurana ibitekerezo ku ngamba zitandukanye Leta y'u Rwanda yashyizeho mu guteza imbere ubuzima.

Gahunda y'ikingira abana bakiri bato indwara zitandukanye harimo nk'uburwayi bw'imbasa, iseru n'ibindi byagize uruhare rukomeye mu gukumira ubu burwayi mu byiciro bitandukanye mu gihugu aho usanga n'abaturage bamaze kubihugukira ku buryo bakingiza abana ku gihe.

Mu rwego rwo kunoza serivisi y' ubuzima kandi kuri bose, inzego za Leta zibishinzwe, zihugura abakozi bazo bakora muri segiteri y'ubuzima. Aha ngaha urabona ko yari inama yari yahuje abaganga ndetse n'inzobere zitandukanye, mu kuganira ubukangurambaga bw'indwara zitandura.

Abajyanama b'ubuzima ni abantu bakomeye kandi bagira uruhare runini mu kugeza serivisi z'ubuzima ku baturage. Rero bakaba bakora ubukangurambaga butandukanye ndetse bakagira n'inama ababyeyi mu gihe batwite ndetse no mu gahunda zo kuboneza urubyaro.

Unicefu n'umuryango mpuzamahanga wita ku bana aho utanga ubukangurambaga n'ubuvugizi butandukanye mu kurengera umwana ndetse no kubaha serivisi zitandukanye nk'uburezi ndetse n'ubuzima uyu muryango rero ukaba ugira uruhare runini mu kuzamura abana badafite kivugira.

Gukingizwa nk'uburyo bw'ingenzi mu kubona serivisi z'ubuzima. Kuri ubu usanga hari uburwayi bwinshi bukingirwa nk'iseru, imbasa, mugiga, ndetse n'izindi ndwara zitandukanye. Aho abana bato bakingirwa guhera bagisamwa kugera ku myaka ibiri. Izi nkingo rero zikaba ari ingenzi cyane mu gutuma sosiyete igira abaturage bafite ubuzima buzira umuze.

Mu rwego rwo kwimakaza ubuzima bwiza kuri bose ku isi hose ibihugu usanga byarashyizeho ingamba zitandukanye, urugero nko mu rwanda hariho ingamba zo gukingira abana bato, nkuko tubibona ni umuco umaze kumenyerwa n'abanyarwanda bose aho umubyeyi atangiza gukingiza umwana akiri mu nda kugeza agize umwaka n'igice.

Itiyo iri kuvamo amazi menshi y'urubogobogo, akaba ari amazi asa neza cyane. Umuntu wambaye ishati y'ubururu, akaba ari gukaraba ayo mazi bisa nkaho yishimye cyane, uburyo ayo mazi ari kuza ari menshi.

Abantu benshi biganjemo abaganga ndetse n'abanyeshuri biga iby'ubuganga bambaye amabaji bari imbere y'inzu, inyuma yabo hari icyapa kiri mu mabara y'umweru ndetse n'icyatsi, kikaba cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru ritsindagiye avuga ngo: Nyabageni autrich and mascling.

Kugira ngo abaturage bagire ubuzima bwiza bisaba ko bitabira na gahunda z'iringaniza ry'urubyaro, aba babyeyi rero bitabiriye gahunda z'iringaniza urubyaro, aho baganira n'abajyanama ndetse bagahabwa n'imfashanyigisho zitandukanye mu kugira ngo baboneza urubyaro neza bityo babyara abo babashije kurera.

Umuntu w'umudamu wambaye itaburiya ndetse akaba anambaye umwenda w'umweru ugaragaza ko ari umushinga akuriye cyangwa ari umujyanama w'ubuzima, akaba ari kugaburira abana bafite imirire mibi, ikiribwa kikaba n'ikinyobwa cyitwa amata.

Kwa muganga abaganga bane barimo baravura umurwayi, bamucomekeyeho oxygen, ndetse bose bambaye udupfukamunwa, n'udutambaro two mu mutwe dukoze nk'ingofero twabugenewe. Imbere yabo hari n'imashini bari kureberaho, ndetse hari na serumu.

Amazi meza akomeje kuba ingorabahizi mu bice bimwe na bimwe, aho usanga abaturage bakoresha amazi yo mu bishanga kandi aba yanduye, kubera ko aba yanyowemo n'inyamaswa ndetse habamo n'ibindi binyabuzima. Hakaba rero hakwiriye gukorera ubukangurambaga n'ubuvugizi, kugira ngo abaturage bose babone amazi.

Abamama baje gukingiza abana, harimo umwe wambaye agapfukamunwa k'ubururu n'amaherererena maremare, ndetse n'ikanzu y'amabara y'umuhondo, umweru, n'umukara; akaba anambaye isaha ahan nini iri mu ibara rya golude.

Ni byiza gupimisha umwana bitewe n'ikigero ariho ukamenya imyaka ye ko ihura n'ingano ndetse n'indeshyo kugira ngo ubashe kumenya niba afite imirire igereranyije cyangwa imirire iboneye.

Iyo havuzwe ubuzima bwiza, ntago bisigana no gukoresha amazi meza, ni yo mpamvu rero usanga no mu bukangurambaga ku rwego rw'isi, iyo tuvuga ubuzima bwiza, banakangurira abantu gukoresha amazi meza, kuko amazi meza ni isoko y'ubuzima.

Inama ivuga ku bijyanye n'iby'ubuzima aho yateranyijwe n'abayobozi batandukanye ndetse harimo na minisitire ndetse na minisitiri wungirije b'ubuzima witwa sabin ndetse na butera, bakaba rero bari mu bayoboye inama kandi iyi nama bikaba bigaragara ko yitabiriwe n'impuguke zitandukanye.

Amazi acukurwa mu butaka, ariyo bita ipompo ahandi bita nayikondo, yagize uruhare runini mu gutanga serivise z'amazi ku baturage, cyane cyane mu bihugu biri munsi y'ubutayu bwa Sahara. Aba bana rero urabona ko bishimye nabo iri riba baritashye kandi bari kubona amazi meza abegereye.

Amazi meza uretse kuyanywa agira n'uruhare runini mu isuku n'isukura, aho usanga gukaraba amazi meza, birinda indwara z'uruhu zigiye zitandukanye nk'umwera, gasate, imyate ndetse n'izindi, bityo rero dukwiriye gukoresha amazi meza ndetse n'aho ataragera akahagezwa kugira ngo abaturage baba bafite ubuzima bwiza.

Kanseri y'inkondo y'umura ni imwe mu ndwara zugarije, ubuvuzi mu Rwanda aho minisitiri w'ubuzima dogiteri Sabin Nsanzimana yagaragaje uko buhagaze, aho buri mwaka handura abantu bashya ndetse buri mwaka magana atandatu bakaba bahitanwa nayo, aho ibihumbi bitandatu magana arindwi bavuwe mu gihe cy'umwaka wose.

Kuri ubu ngubu usanga mu Rwanda abajyanama b'ubuzima bagira uruhare rukomeye mu kurwanya imirire mibi mu bana bato. Aho usanga bagira inama ababyeyi bakanabahugura ku bijyanye no kugaburira abana indyo yuzuye ndetse no gukoresha ubuvuzi Leta yashyizeho birinda ubuvuzi bwa magendu, kuko birangira abana bahasize ubuzima.

Amazi ni ubuzima. Ntabwo wavuga ko abaturage bafite ubuzima bwiza batabasha kubona amazi meza kandi abegerejwe. Aba bana barishimye, baragaragaza ibyishimo bafite kubera ko begerejwe amazi. Bari kunywa kandi banakina na yo kuko ari ibintu byabanejeje.

Abana babiri umwe wambaye agapira k'ubururu undi wambaye agapira k'amabara arimo buresiyeri, ndetse n'icyatsi bari ku ivomero rusange aho bafite amadobo, menshi bari kuvomeramo amazi meza.

Uburyo bwo kwimakaza ubuzima buzira umuze, usanga indyo yuzuye ikomeza kwigishwa, ndetse ikanatangwa ku bantu batandukanye. Aba banyeshuri urabona yuko bishimye bari kurya indyo yuzuye muri gahunda yo kugaburira abanyeshuri ku ishuri.

Amahugurwa avuga ku by'ubuzima aho abajyanama b'ubuzima batandukanye bahuye bari kwigishwa kuri gahunda zitandukanye z'ubuzima murabona ko harimo n'abari kwiga mu matsinda bakungurana ibitekerezo ku by'uko batanga serivisi nziza ku babagana.

Mu rwego rwo kugira ngo uvure cyangwa se wite ku murwayi ufite ibibazo by'imitekerereze cyangwa ubuzima bwo mu mutwe, bisaba uvura wishyira mu mwanya w'umurwayi ndetse akabanza akareba imyumvire ye, ku bijyanye n'uburwayi afite, ibyo rero bigufasha kumuvura neza kuko aba yabohotse.

Kigali Psycho-Medical Center ni ivuriro ryagenewe kuvura abarwayi bo mu mutwe ndetse n'abarwaye Iby'imitekerereze abenshi bazi nka kalayesi, iri vuriro rikaba rigira uruhare runini mu kuvura abarwayi bafite ubwo burwayi ndetse n'abahuye n'ihungabana n'agahinda gakabije.

Benshi mu bafite ibibazo by'imitekerereze cyangwa se uburwayi bwo mu mutwe, usanga bahabwa akato n'imiryango yabo ndetse na sosiyete muri rusange, aho benshi bibaviramo kuva mu mago y'iwabo ugasanga baba ku gasozi, ibi rero bibangamiye ubuzima bwabo muri rusange cyane ko batanabona uko bavuzwa mu gihe baba bahawe akato.

Abamama benshi bari mu nama yiga ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe ndetse n'imitekerereze. Harimo uwicaye ku ntebe y'imbere wambaye rinete, imbere ye hari mudasobwa ndetse n'agacupa k'amazi, akaba afite ikaramu mu ntoki yambaye n'amarinete. Inyuma ye hari uwambaye ikote ry'umutuku bisa nkaho bakurikiye neza ibiri kwigishwa.

Abantu bari mu nama harimo umumama ufite mikoro akaba yambaye ikanzu y'umutuku irimo amabara y'umweru, akaba yicaye iruhande rw'umugabo usa na mubyara wa Feriye, iruhande rwabo hari undi mudamu wambaye ikanzu y'icyatsi.

Ubuzima bwo mu mutwe ni imwe mu nkingi ya mwamba mu kuba umuntu afite ubuzima bwiza, biba byiza rero iyo ubuzima bwo mu mutwe bubungabunzwe umuntu akiri muto guhera ku myaka mitoya, ku mezi atandatu kugera ku myaka byibuze cumi n'ibiri, icyo gihe umuntu aba ashyitse kandi ahamye.

Ikibazo kiriho, imitekerereze n'indwara zo mu mutwe ntabwo bireba urubyiruko gusa cyane, hari n'abakuze nabo bahura n'ubu burwayi cyane cyane nk'abahuye n'ibibazo bikomeye by'agahinda gakabije bituruka ku ngaruka za Jenoside yakorewe abatutsi mu igihumbi kimwe magana acyenda mirongo icyenda na kane. Usanga bamwe bagihura n'ihungabana kugeza n'uyu munsi wa none kubera ibyo bahuye na byo muri kiriya gihe gikomeye.

Icyapa kiri mu mabara y'umweru cyandikishijweho amagambo ari mu ibara ry'umukara, kikaba cyanditseho amagambo avuga ngo Isange One Stop Cente, iki cyapa rero kikaba kirimo ibirangantego bitandukanye harimo icya Polisi y'u Rwanda, ikirango cya Repubulika y'u Rwanda, icya UN, Unicefu ndetse na UNIFEM.

Umumama wambaye ikositime y'ubururu akaba afite mikorofone, imbere ye hari icupa ry'amazi ndetse n'ikayi n'ikaramu. Akaba ku ruhande rwe rw'iburyo hicaye umugabo wambaye ikositimu y'ubururu ndetse n'ishati ya karokaro n'agapfukamunwa, akaba ari gukurikira ibyo uwo mudamu ari kuvuga.

Mu rwego rwo kubungabunga no kwimakaza ubuzima bwo mu mutwe leta yashyizeho amashuri ndetse n'amashami yihariye ahugura abakozi bakora kwa muganga mu gufasha abarwayi babagana bafite ibibazo by'imitekerereze, aha rero ni urugaga rw'abanyeshuri biga amasomo ajyanye n'ubuzima bwo mu mutwe baba bazatanga izo serivisi kwa muganga.

Icyapa cyerekana kwizihiza umunsi wahariwe ubuzima bwo mu mutwe ndetse kikaba ari icyapa kiriho ibirango by'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC, ni ikirango cya Repubulika y'u Rwanda, aho hari abantu benshi bitabiriye ibyo birori.

Uburwayi bwo mu mutwe cyangwa bw'imitekerereze ni ikibazo cyugarije sosiyete zitandukanye muri Afurika ndetse n'ahandi ku isi, gusa ntabwo abantu babyumva kimwe, aho usanga abenshi bafite imyumvire y'uko biterwa n'amadayimoni ndetse n'ibindi bitandukanye byo mu miryango kandi ari uburwayi busanzwe ndetse bunavugwa bugakira.

Uburwayi bwo mu mutwe cyangwa bw'imitekerereze ari bwo benshi bita ibisazi ni uburwayi bufata abantu batandukanye, ubu burwayi rero bukaba bugira ingaruka nyinshi k'uburwaye kuko aba atabona n'izindi serivisi z'ubuzima.

Uburwayi bwo mu mutwe ndetse n'imitekerereze muri rusange, ni bumwe mu burwayi butuma umuntu ahindura imiterere y'umubiri cyane cyane mu isura, aho ushobora kugira ngo ararakaye kandi ariko ibyiyumviro bye bimeze.

Abafite ubumuga bwo mu mutwe iyo bahurijwe hamwe usanga nabo bagiye bafite ibibazo bitandukanye kuko haba harimo abarwaye kurusha abandi biragaragara rero yuko nabo nubwo baba bari mw’ivuriro rimwe ariko baba bakeneye kwitabwaho mu buryo butandukanye haba harimo abagifitemo ubwenge hari n'abandi noneho baba ubwenge butagikora neza rero bikaba bisaba yuko bavurwa mu buryo butandukanye.

Kugira ngo ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe ndetse n'imitekerereze gikemuke, bisaba inzego zitandukanye mu gukora ubukangurambaga, kugira ngo abaturage bamenye aho gituruka ndetse n'uburyo bwo kugikemura, ndavuga uburyo bwo kuvura ubwo burwayi bw'imitekerereze ndetse no mu mutwe, ntabwo ari ngombwa ko abantu baheranwa na bwo cyane kuvurwa bugakira.

Bimwe mu bibazo bitera uburwayi bwo mu mutwe ndetse n'imitekerereze muri rusange n'imiryango abana bavuka mu miryango itekanye itaba amakimbirane bakaba bahora bishimye bityo bakaba batapfana kurwara ubu burwayi bwo mu mutwe.

Uburwayi bwo mu mutwe ndetse n'imitekerereze buturuka ku bintu byinshi bitandukanye, harimo n'agahinda gakabije gaturuka nko kuba umuntu yabuze inshuti ye cyangwa abagize umuryango we, ubu burwayi rero bukwiriye kuvurwa ndetse bukitabwaho cyane cyane nko mu gihe cyo kwibuka.

Iyo umwana atekanye akaba ari no mu umuryango utekanye bigira uruhare rukomeye mu kuba afite n'umutekano mu buzima bwo mu mutwe ndetse n'imitekerereze bityo rero dukwiriye kwirinda amakimbirane mu miryango nk'abashakanye bakirinda gukora ibikorwa bigize ihohoterwa cyangwa ihohotera imbere y'abana.

Umujyanama w'ubuzima uri gupima umwana ndetse uwo mwana akaba ateruwe na mama we, mama we akaba yambaye ikanzu irimo amabara atandukanye ay'icyatsi, umuhondo n'ubururu akaba anambaye igitambaro mu mutwe bigaragarako umujyanama ari kumwereka igipimo cy'umuriro mwana we afite.

Umumama urigutegura indyo yuzuye bigaragara yuko arigutekera abana igikoma kirimo amata. Bakaba ari abana basa neza cyane bigaragara yuko banaganirizwa neza nta bibazo by'imitekerereze bafite. Rero umuryango utekanye ukaba ari umuryango aho ababyeyi baba baganiriza abana bakabereka ineza n'urukundo kugira ngo bazakure nta bibazo by'imitekerereze bafite.

Umujyanama cyangwa se umuvuzi w'indwara zo mu mutwe n'imitekerereze uzwi nka kansira, arimo aragira inama ababyeyi babiri bafite abana batoya, uburyo bwo kwita ku buzima bw'abana, cyane cyane ubw'imitekerereze kugira ngo batazarwara indwara zo mu mutwe ndetse n'imitekerereze muri rusange.

Umuhangayiko ukabije ndetse n'agahinda gakabije na byo ni indwara yo mu mutwe cyangwa indwara y'imitekerereze, rero hano hari umubyeyi ufite indwara z'imitekerereze kubera ibibazo by'ubukene ndetse n'ibindi ahura na byo, bigaragara ko abana bamutesheje umutwe kubera ubukene afite.

Hirya no hino usanga yaba abakora muri serivisi z'ubuzima ndetse n'imiryango itegamiye kuri Leta bibanda ku bukangurambaga ku bijyanye n'ubuzima bw'uwo mutwe ndetse n'imitekerereze kuko ubu burwayi bukomeje kwibasira urubyiruko ndetse n'abatari bake mu bakuze, bukaba bukwiriye kurwanywa kandi bukafatirwa ingamba mu nzego zose z'ubuzima.

Ubuzima bwo mu mutwe kugira ngo bubungabungwe akenshi bitangirira mu muryango aho usanga imiryango Ibana mu buryo bw'amahoro n'ubwumvikane n'ituze ndavuga itaba mu makimbirane abagize iyo miryango akenshi baba batekanye ndetse no mu buzima bwo mu mutwe bityo rero mu muryango ni ahantu ho kubonera ituze kugira ngo ubwo burwayi bukumirwe.

Mu bukangurambaga bw'ubuzima bwo mutwe ndetse n'imitekerereze, usanga inzego nyinshi zitandukanye yaba iza Leta n'iz'abikorera bagiramo uruhare, urabona ko hano ku kigo nderabuzima cya Kacyiru na polisi y'u Rwanda yari yifatanyije n'abaganga ndetse n'abakozi b'ikigo nderabuzima mu gutambutsa ubwo bukangurambaga.

Muri iki gihe usanga leta n'abafatanyabikorwa bayo barashyize imbaraga mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe ndetse n'imitekerereze, nk'ubugubu urabona ko mu Bugesera hashyizwe ishami ritanga ubufasha mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe nk'uko bigaragazwa n'iki kinyabiziga gikora nk'ibitaro bigendanwa cyangwa se ibitaro bigenda, ari cyo twakwita mubayiro kirinike.

Kubera uburyo ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe ndetse n'imitekerereze gikomeje gufata intera, usanga abakuriye ibigo by'amashuri, bigisha abana bato cyane cyane abo mu mashuri abanza, kwita ku buzima bwo mu mutwe, birinda ihungabana, ndetse n'aho bahurira n'ihungabana iryo ari ryo ryose, bagatangira amakuru ku gihe.

Uburwayi bwo mu mutwe ndetse n'ubuzima bw'iby'imitekerereze, usanga ahanini buterwa n'ibibazo mu miryango, aho usanga nk'abana baba mu miryango iba mu makimbirane ndetse bahura n'ihohoterwa bakunze kwibasirwa n'uburwayi.

Abarwayi bo mu mutwe cyangwa abafite ibibazo mu by'imitekerereze usanga bahura n'ibibazo bitandukanye nko kuba bahura n'uburwayi butandukanye kubera isuku nkeya ndetse n'umwanda, usanga badakunze gukaraba kubera ko n'ubundi baba batabizi ndetse n'imyambaro banagira, aba bantu rero bakeneye uburinzi budasanzwe bushyirwaho na leta kugira ngo bavurwe.

Ubuzima bwo mu mutwe ndetse n'imitekerereze usanga bimaze kuba ikibazo cyugarije urubyiruko, aho usanga urubyiruko umubare munini bahura n'imbogamizi n'ibibazo bahura na byo bya buri munsi bitewe n'ibibazo by'imitekerereze, bamwe na bamwe bikanabaviramo kwiyahura. Bityo rero, birakwiriye ko abantu bose bafata ingamba zo gukumira ubu burwayi bwo mu mutwe.

Aba mama batatu, ndetse n'umwana w'umukobwa, bicaye imbere y'umugabo, usa nkaho afite uburwayi bwo mu mutwe, cyangwa ibisazi, aba babyeyi rero ukaba ubona ko basa n'abari kuganira ku kibazo cy'uyu mugabo ubicaye imbere.

Benshi mu bafite ibibazo by'imitekerereze, usanga bahura n'ihohoterwa aho usanga bamwe mu miryango yabo, babakorera ibikorwa bibi bitandukanye nko kubazirika, kubakingirana ndetse no kubaheza babita abasazi, ibi rero ntabwo bikwiriye kuko na bo ni abantu kandi bakwiriye kuvurwa bagakira.

Ibyishimo cyangwa umunezero nk'umwe mu muti w'uburwayi bwo mutwe n'imitekerereze, usanga kuri ubu urubyiruko rwinshi rurwaye indwara zo mutwe n'imitekerereze kubera agahinda gakabije n'ihungabana, bityo rero tukaba dukwiye kuba ahantu hari ibyishimo aho tuba turi kumwe n'inshuti zacu ndetse no mu miryango yacu bamwe badusetsa kugira ngo twirinde ubwo burwayi.

Kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza bwo mu kanwa bisaba guhozaho, aho inzobere mu bijyanye n'ubuzima bwo mu kanwa, zisaba abantu kwiborosa nk'inshuro eshatu ku munsi ndetse bagakoresha uko bashoboye hagira ikibazo kidasanzwe bumva mu kanwa kabo, bakihutira kugana muganga kugira ngo bavurwe hakiri kare.

Kugira ngo umuntu agire ubuzima buzira umuze mu kanwa cyane cyane hibandwa ku menyo, birakwiriye yuko hahugurwa ndetse hagatanga inyigisho zitandukanye ku mikorere y'amenyo ndetse n'imiterere yayo kugira ngo tumenye buri kiribwa turi kurya ndetse n'uruhare kigira mu kuba amenyo yakwangirika cyangwa yakomera. Amenyo cyane cyane yangizwa n'imyunyu turya ya buri munsi.

Isuku yo mu kanwa ni ingenzi ku buzima muri rusange. Niyo mpamvu usanga abaganga b'inzobere mu by'amenyo, batubwira ko dukwiriye kujya kwipimisha cyangwa se kwisuzumisha, mu gihe runaka kugira ngo tumenye uko ubuzima bwacu bwo mu kanwa buhagaze.

Akamashini kitwa vita calasiko kakaba gakoreshwa n'abaganga bavura iby'amenyo, mu buryo bwo kuvura amenyo bakoresheje ikoranabuhanga, aka kamashini kakaba kagezweho kandi kakaba gakenerwa cyane mu bitaro bitanga serivisi z'ubuvuzi bw'amenyo.

Ubuzima bwo mu kanwa ndetse n'amenyo muri rusange, ni ubuzima bw'ingenzi cyane, bukwiriye kwigishwa mu bakiri bato, cyane ko umwana aba akwiriye kwiborosa, hejuru ya gatatu ku munsi kugira ngo, aba afite ubuzima bumeze neza bwo mu kanwa ndetse n'impumuro nziza mu kanwa.

Uburwayi bwo mu kanwa by'umwihariko uburwayi bw'amenyo, ni uburwayi bubabaza, ariko bukaba ari n'uburwayi buvurwa bugakira, iyo bwitaweho bakagana ubuvuzi hakiri kare, urabona ko uyu muganga yari ari kuvura umwana indwara z'amenyo, kandi ubona koko ko umwana hari icyizere cyo gukira.

Mu rwego rwo kubungabunga amenyo n'ubuzima bwo mu kanwa muri rusange, abantu benshi ntabwo bakunze gusobanukirwa umumaro w'urudodo rwifashishwa mu koza amenyo, uru rudodo rero rukaba rugera mu twanya dutoya cyane, uburoso butabasha gucamo, rugakuramo imyanda ndetse na za mikorobe, ziba zarinjiye muri iyo myanya, bikaba rero ari ngombwa y'uko rukoreshwa cyane gashoboka.

Abatanga serivisi z'ubuvuzi bw'amenyo, ndetse n'ubuvuzi bwo mu kanwa kwa muganga, ni byiza yuko bajya basobanurira ababagana, uburyo bwiza bwo gukoresha urudodo, rukoreshwa mu koza amenyo, cyane ko kurukoresha bifite umumaro mwinshi, kandi ari uburyo buboneye bwo koza amenyo, mu cyimbo cyo gukoresha uburoso.

Sikaneri ni icyuma gikoreshwa mu mavuriro no kwa muganga aho gifata amashusho y'imbere mu mubiri kikabasha kwerekana aho uburwayi buherereye ku umurwayi bwagiye gusaba serivisi kwa muganga, iki cyuma rero gikoreshwa n'inzobere kabuhariwe ziba zarize ibijyanye no gufata amashusho hakoreshejwe icyo cyuma cyangwa se izo sikaneri.

Mu mashini zo kwa muganga zifata amafoto nka stescan cyangwa m-ray zifashishwa mu gusuzuma no gutahura uburwayi bw'amenyo cyane cyane nk'ahaba hatagaragara ku bice by'amenyo mu kanwa, izi mashini rero zigira uruhare runini mu kugaragaza imiterere y'amenyo afite ikibazo kugira avurwe.

Ubuzima bw'amenyo ndetse no mu kanwa muri rusange bubungabungwa no kugira isuka ihagije, umuntu akwiriye kwiborosa byibuze gatatu ku munsi cyangwa se buri nyuma yuko agize ikintu arya ndetse anywa kugira ngo amenyo abashe kuba ameze neza.

Umwana mutoya bigaragara ko anezerewe, afite uburoso bw'amenyo arimo ariborosa mu kanwa, bigaragara yuko rwose afite ubumenyi buhagije yatojwe n'ababyeyi be mu buryo bwo kubungabunga ndetse no gukora isuku mu kanwa.

Ubuvuzi bw'amenyo no mu kanwa muri rusange abaganga bafite agatoroshi kabugenewe bakoresha kugira ngo barebe amenyo cyangwa se igice cyo mu kanwa kirwaye iyo batabasha kuhareba neza ibyo rero bikabafasha mu gutuma bavura indwara bazi neza.

Ubudodo cyangwa se urudodo rwoza amenyo n'ingenzi cyane uko rugera ahantu uburoso butabasha kugera mu koza amenyo, bityo udukoko ndetse n'imyanda biba byarafashe mu menyo muri turiya twenge rukaba rutuvanamo mu buryo butunganye.

Uyu muganga uvura amenyo, ari kwigisha umurwayi uko bakoresha urudodoboza amenyo. Uburyo bwo koza amenyo hakoreshejwe urudodo ni uburyo bwiza buboneye aho urudodo rwinjira mu myanya imitoya cyane, iri hagati y'iryinyo n'irindi, rikabasha gukuramo utwanda twose tuba twinjiyemo.

Kugira mu kanwa heza ndetse n'amenyo meza ntabwo bipfa kwizana bisaba gushyiramo umuhate ndetse no kugira ingeso yo kwiborosa buri munsi ugakora isuku kenshi gashoboka ndetse ukanagana muganga kugira ngo akubwire uko ubuzima bwo mu kanwa buhagaze byibuze buri mezi atatu.

Ubushakashatsi bwagaragajwe ko urudodo rukoreshwa mu koza amenyo ari imwe mu ngamba zihamye zo gukura imyanda mu kanwa cyane cyane mu menyo, aho nk'imyanda n'udukoko bitabasha gukurwaho n'uburoso uru rudodo rubikuraho mu buryo bworoshye bityo rero abantu bakaba bakwiriye kurukoresha bu ubuzima bwa buri munsi.

Kwigisha serivisi z'ubuzima bw'amenyo ndetse n'ubuzima bwo mu kanwa muri rusange ni umuco wakagombye kwigishwa haherewe mu bato aho byakagombye kwigishwa mu mashuri y'inshuke ndetse n'amashuri abanza. Urabonako abo banyeshuri biga muri kaminuza baba bagize uruhare rukomeye mu kwigisha abana n'abarezi bakiri mu mashuri abanza.

Umukobwa wasetse cyane utunze intoki mu kanwa bisa nkaho ari kwerekana uburyo isuku yo mu kanwa ari ingenzi, kuko afite amenyo asa neza cyane akaba afite n'imisatsi myinshi, dukwiriye kugira isuku mu kanwa.

Umumama uri kumwe n'umwana bose bafite imisatsi ya menshi, bose bafite n'uburoso bw'amenyo bakaba bari kwiborosa bakaba banambaye udusengeri tw'umweru bisa nk'aho bishimye umumama ari ari kwigisha umwana uburyo bwiza bwo koza amenyo.

Bimwe mu bice by'umubiri byugarijwe n'uburwayi butandukanye harimo amenyo, amenyo ndetse n'ubuzima bwo mu kanwa muri rusange ni uburwayi abaturage bakunze kugumana cyane cyane mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere, aho usanga batabwivuriza igihe ndetse kubera isuku nkeya ugasanga abenshi ntibanazi ko ari uburwayi bwugarije ubuzima bityo rero bukaba ari uburwayi bukwiye kurwanywa.

Gukoresha urudodo rwabugenewe mu koza amenyo ntibikuraho gukoresha uburoso ndetse n'umuti, kuko uru rudodo rwagenewe koza amenyo ariko by'umwihariko ku twanya turi hagati y'amenyo, aho uburoso butabasha gukora.

Ubushakashatsi bwagaragaje ko urudodo rwoza amenyo rufite umumaro mwinshi, ko byibuze buri muntu akwiriye kurukoresha nka gatatu mu cyumweru kugira ngo amenyo ye abashe kuba atunganyije kandi yogeje neza, nta dukoko ndetse na za mikorobe zirimo.

Iyo tuvuga ubuzima bwo mu kanwa, ntabwo twakwirengagiza kugira no kwita ku menyo yacu kugira ngo abashe kuba afite ubuzima buzira umuze, aha rero hari uburyo bwinshi butandukanye bwo kwiborosa cyangwa kugira isuku mu menyo, aho dukoresha uburoso cyangwa se utudodo twabugenewe, tubasha gukuramo imyanda yose.

Ubuzima bwo mu kanwa ndetse no kugira ngo amenyo abe afite ubuzima bwiza, ni uko habaho amakangurambaga atandukanye, aho abafite ubumenyi buhagije nk'impuguke mu buvuzi bw'amenyo baba bakwiriye kugana abaturage bakabigisha uburyo bakwiye gufata neza amenyo yabo kuko iyo amenyo yugarijwe n'umubiri wose uba wugarijwe.

Kugira ngo ivuriro cyangwa ibitaro bitange serivisi inoze ni uko riba rifite ibikoresho byiza kandi bigezweho muri iki cyumba harimo sikirini zitandukanye yaba i izaba ziri hejuru mu mugitanda cy'abarwayi ndetse na sclin iya computer umuganga akoresha atanga inama ndetse n'imiti ku barwayi.

Kugira ngo utange serivisi nziza mu buvuzi bw'amenyo ndetse n'ubuvuzi bwo mu kanwa bisaba kuba ufite ibikoresho bihagije kandi bigezweho, urabona ko hano hari ibikoresho bitandukanye harimo ibikoreshwa mu gushyiraho kamera ku menyo ndetse n'ibikoreshwa mu gusana amenyo yangiritse nko mu buryo bwo gucukua.

Ubuzima bwo mu kanwa na bwo burya ni ingenzi, mu kugira imibereho myiza. Urabona yuko mu burezi bateye intambwe, bakaba batoza abatoya mu gutangira kwita ku isuku yo mu kanwa bakiri bato, kuko urabona hano bari bari mu bukangurambaga, bwo gukoresha imiti isukura mu kanwa.

umugabo n'umugore bicaye ku meza bari gufata amafunguro barishimye umugabo yambaye amarinete ndetse n'umudamu yambaye amarinete imbere yabo hateretse ibyo kurya bigaragara ko ari indyo yuzuye

Umuganga cyangwa umuforomo wambaye itaburiya cyangwa imyenda yabugenewe y'ubururu akaba ari guhereza umubyeyi usa nkaho akuze ibinini, uyu mubyeyi akaba afite amazi yiteguye guhita anywa ibyo binini.

Abantu benshi bicaye ahantu muri jaride, harimo umumama uri kuboha igitebo, imbere ye hakaba hari ababyeyi bicaye mu ntebe, ndetse harimo n'umupapa uteruye akana w'umuzungu, bakaba bari kuvuga kuri serivisi zihabwa abakuze.

Umumama bigaragara ko akuze rwose ari gutera pushapu zimwe bakora batamanuka, akaba rero afite imvi nyinshi mu mutwe yambaye agasenge ka movi, akaba yishimye kubera ari gukora imikino ngororamubiri.

Umumama wambaye umupira w'umuhondo ndetse n'amadarubindi hamwe n'igitambaro cy'umukara, ari kwitabwaho n'umuforomo wambaye itaburiya y'ubururu ndetse akaba afite n'agakoresho kumva uko umutima utera kitwa siteto, akambaye mu ijosi.

Umuganga ufite agakoresho gapima k'umutima utera kitwa sitetu akaba afite ikaramu n'ikayi imbere ye arimo arasobanurira umurwayi waje gusaba serivisi w'umugabo wambaye ishati ya kaki ufite n'ivi zitari nyinshi mu mutwe.

Icyayi nacyo kimeze nk'imiti gakondo, n'ubwo ari ikinyobwa tunywa buri munsi, ariko buriya icyayi nacyo kivura indwara zitandukanye, kandi kikaba gifasha abakuze mu kubona akazi, ndetse bakanitabwaho mu gihe bagaburirwa icyo cyayi, mu buryo butandukanye.

Umumama wambaye ikanzu y'umuhondo ndetse n'amadarubindi, akaba afite imisatsi myinshi, afite ibinini bitandukanye, aho hari n'ibyo ari gukura mu gacupa kugira ngo abinywe.

Umukobwa w'umuganga akaba ari kuvura umugabo w'umusaza wambaye ishati ya kaki, akaba ari kumupima w'amaso uyu musaza ariko bikaba bigaragara yuko akuze kandi yariye neza nubwo afite imvi nyinshi yaba mubwanwa akaba afite n'umusatsi mukeya.

umudamu wicaye ku gasambi kabugenewe gakorerwaho siporo akaba yambaye agasengeri k'ubururu ipantaro y'umukara k'ba afite imisatsi myinshi arimo arakora siporo cyangwa se imikino ngororamubiri aho arimo aragorora imitsi

Umumama wambaye ijire usa nk'aho ari umujyanama mu by'ubuzima ari kuganira n'umukecuru wambaye agasharupe k'icyatsi ndetse imbere yabo hari umusaza uri kuri telefone bisa nkaho bari mu karuhuko gatoya mu mahugurwa barimo y'ibijyanye n'ubuzima.

Inama y'ubukangurambaga mu by'ubuvuzi, ikaba iyobowe n'umugabo wambaye ikositimu y'umukara, uyu mugabo akaba afite mikoro mu ntoki, inama rero abayitabiriye bikaba bigaragara ko bateze amatwi kandi bari gufashwa n'inyigisho bari guhabwa.

Mu gihe cy'icyorezo cya covid ubukangurambaga bwo kuyirinda bwajyanaga no gukingira, aho wasangaga abarwayi iyi ndwara barikingizaga ndetse n'abatarayirwara bose bakikingiza, aho abantu bafashe inkingo zigera kuri eshatu za covid.

Power Africa ni ikigo gitanga serivisi z'ubuvuzi muri Afurika cyane cyane mu Rwanda, aho batanga serivisi zitandukanye nk'izitangwa mu mavuriro ariko cyane cyane bo bagatanga serivisi ku barwayi batandukanye ndetse bakanatanga ubujyanama butandukanye mu bijyanye n'ubuzima.

Umudamu umwe wambaye badge n'agakanzu wambaye nisaha afite telefone mu ntoki ari kumwe n'umugabo wambaye ikositimu ndetse nawe wambaye badge bari gutanga ubukangurambaga ku bijyanye n'ikigo gitanga ubuzima na serivisi zabwo mu bijyanye n'imitekerereze muri east africa.

Inama yiga ku bijyanye na virusi itera sida ndetse n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina muri Afurika, yabereye mu Rwanda, aho yahuje abantu batandukanye, harimo abanyamahanga b'abazungu ndetse n'abanyarwanda, mu gutanga ubujyanama ndetse n'inyigisho ku bijyanye no gukumira indwara z'ibyorezo byandura cyane cyane nka SIDA.

Ubukangurambaga butandukanye usanga hibandwa ku bukangurambaga bwo kurwanya virusi y'agakoko gatera sida, aho usanga urubyiruko ari rwo rwandura cyane muri iki gihe, rukaba rero ruhamagarirwa kwirinda no kwipimisha aka gakoko ndetse n'iyi virusi kugira ngo bamenye uko bahagaze nibasanga bayirwaye bivuze hakiri kare.

Helifu pipo Rwanda ni umushinga utegamiye kuri leta utanga ubufasha mu by'ubuvuzi. Uyu mushinga ukaba ugira uruhare rukomeye mu gutanga serivisi z'ubuzima, aho abahuye n'ihohoterwa ndetse n'ihungabana babasha gufashwa mu buryo butandukanye.

Politike z'ubuzima zikunda gutangwa mu bukangurambaga butandukanye, hifashishijwe amahuriro y'abanyeshuri biga iby'ubuvuzi ndetse n'abakozi bakora mu by'ubuvuzi mu nzego zitandukanye, iyi nama rero urabona ko yari yahuje abafatanyabikorwa batandukanye, mu batanga serivise z'ubuzima.

Abaganga bari gutanga ubukangurambaga mu bijyanye n'ubuvuzi bambaye ama badge bakaba bari kwakira umumama wambaye agasharupe karimo amabara y'indabyo z'umutuku ndetse n'igitambaro mu mutwe bakaba barimo baramwohereza imiti ndetse n'urwandiko rwerekana uko iyo miti ikoreshwa.

Mu kugira ngo ubukangurambaga kuri politiki y'ubuzima bugerweho ni uko habaho amahuriro atandukanye ndetse n'inama zihuza abashakashatsi ndetse n'inzobere muri iyo segiteri y'ubuzima, iyi nama rero ya makumyabiri na kane yari iri kwiga ku bijyanye n'ubushakashatsi bwimbitse bwakorwa kugira ngo ubuzima butezwe imbere kandi bwimakazwe.

Ubuvuzi cyane cyane ubwifashishwa habagwa abarwayi ni bumwe mubigikomeje kuba ingorabahizi mu byaro byo mu bihugu bya Afurika bikiri mu nzira y'amajyambere, ubuvuzi rero kubera ukuntu buhenze bisaba ubukangurambaga mu nzego zitandukanye kugira ngo iyi politiki igere hose kandi kuri bose.

Iyi mbonerahamwe iradusobanurira neza, uburyo ubuzima bwo mu mutwe bubungabungwa ndetse n'ibibazo byabwo uburyo bikemuka. Urabona yuko bihera ku muntu, bigakomeza bikagera no ku bakuzengurutse, bigasoreza muri sosiyete rusange. Rero twese dukwiriye kubigira ihame, buri wese mu rwego rwe akabungabunga kandi akita ku buzima bwo mu mutwe.

Ubukangurambaga butandukanye mu by'ubuzima usanga hakunze kwigishwa ku mibereho ijyanye n'ibitsina ndetse n'uburezi mu bijyanye n'ibitsina n'imibonano mpuzabitsina muri rusange ku banyeshuri kugira ngo bagire amakuru ahagije, batazabasha kugwa mu bishuko by'ababangiza, babashyira mu mibonano mpuzabitsina idakingiye.

Ubukangurambaga kuri politiki z'ubuzima usanga rushorwamo imbaraga nyinshi ndetse n'amafaranga mu rwego rw'isi ndetse no ku rwego rw'ibihugu aho usanga hari ingengo y'imari nini ijya muri icyo gice cyo gutanga ubwo bukangurambaga kugira ngo abaturage bamenye serivisi z'ubuzima ndetse banazegerezwe.

Mu myaka itatu ishize ubwo icyorezo cya kovide cyadukaga habayeho gahunda yo kubura inkingo ku bihugu byinshi biri mu nzira y'amajyambere cyane cyane muri afurika, ubwo bukangurambaga rero bwakozwe igihe kinini bwo gushaka ubushobozi kugira ngo inkingo ziboneke ndetse zigezwe no kubazikeneye ubwo aribo benegihugu b'ibihugu bitandukanye, ubukangurambaga rero bwatanze umusaruro mwinshi kuko mu gihe gito inkingo zabashije kuboneka zikagezwa no kuba zikeneye.

Abamama bane bicaye kwa muganga ku murongo aho bazanye gukingiza abana bateruye abana babo harimo umwe uri konsa umwana bisa nkaho bishimye bari kuganira bahuje urugwiro bari kuvuga kuri serivisi bahabwa z'ikingiza ry,abana.

Kugira ngo serivise z'ubuzima zibe zimeze neza ni uko abayobozi bakora muri iyo serivise nabo bagomba kuba bameze neza kandi bita ku nshingano zabo, aba rero ni abaminisitiri b'ubuzima ubwo Daniel yari arimo asimburwa na Sabe bahererekanya ububasha.

Ubukangurambaga ku bijyanye n'uburwayi bwa kanseri, ni ingenzi cyane kuko bifasha kumenya ubwoko butandukanye bwa kanseri kugira ngo izikingirwa zikingirwe ndetse n'izivurwa zigakira cyane cyane iyo zatawe hakiri kare, abantu bagira umwete wo kuzipimisha kugira ngo babashe kubona ubuvuzi ku gihe.

Muri gahunda z'ubukangurambaga mu bijyanye n'ubuvuzi ndetse na politike z'ubuvuzi, usanga rimwe na rimwe abaganga bajya mu baturage ndetse bagafasha abaturage mu kubavura nk'indwara zitandukanye, nk'uko tubibona hano aba baganga bari bagiye gutanga ubukangurambaga ku bijyanye n'ubuzima bwo mu kanwa, urabona ko barimo baranasuzuma abarwayi banabavura.

Ubukangurambaga ku bijyanye na poritike z'ubuzima, buba bukwiriye gukorwa n'inzego nyinshi zitandukanye. Niyo mpamvu ubona ko hano uyu muyobozi yari ari gutanga ubukangurambaga ku bijyanye n'uburyo bwo kubungabunga ubuzima bwo mu mutwe cyangwa se imitekerereze, ari nabyo bituma abantu bagira imibereho myiza kubera ko mu buzima bwo mu mutwe butekanye.

Ubushita bw'inkende, ni imwe mu ndwara yandura vuba kandi igahitana benshi cyane cyane mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere, niyo mpamvu rero leta yashyizeho ubukangurambaga bwihariye na politike yihariye yo kurwanya iyi ndwara, kuko iyo igeze mu bantu ihitana benshi kandi mu gihe gito, rero twese twirinde ubushita bw'inkende.

Zimwe mu ndwara ziteje ikibazo kw'isi hose harimo n'uburwayi bwa kanseri niyo mpamvu usanga minisiteri y'ubuzima yaba mu rwanda ndetse n'ahandi bashyiramo imbaraga mu bukangurambaga mu buryo bwo kwirinda ndetse no kurwanya kanseri harimo nko kwipimisha kenshi gashoboka ndetse no kwivuza hakiri kare kugira ngo uburwayi bucike.

Ku munsi mpuzamahanga wahariwe ubuzima ku rwego rw'Isi, usanga hatangirwamo ubukangurambaga butandukanye, bwerekana politiki zijyanye n'ubuzima, aho usanga politiki zitandukanye nk'izerekana icyuho ndetse n'ingaruka Kovide cumi n'icyenda yagize mu bijyanye n'imitangire y'izo serivisi ndetse n'ingamba zo kubikumira.

Iyo hitegurwa kwizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe ubuzima, usanga ibigo byinshi ndetse n'imiryango itandukanye ishyiraho imbuga ndetse n'amaforamo yo kuganiriramo imbogamizi ndetse n'inzitizi sekiteri y'ubuzima ihura na yo, mu buryo bwo kwamamaza ndetse no kuzamura ubukangurambaga muri politiki z'ubuzima mu bihugu bitandukanye.

Ubukangurambaga bugezweho kuri ubu harimo n'ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe n'iby'imitekerereze, aho usanga kubera siteresi abantu bahorana ndetse n'agahinda gakabije baterwa n'ibibazo bitandukanye, bikomeje kuzamura ikigero cy'abahura n'ubu burwayi, bityo rero ubukangurambaga bukaba bukenewe ahantu hose, cyane cyane mu rubyiruko.

Ubukangurambaga kuri politiki z'ubuzima buhoraho kandi biba bikwiriye ko bugezwa ku baturage, niyo mpamvu usanga muri buri cyiciro cyane cyane icyita ku ndwara z'uruhu, bakunze gushyiraho ubukangurambaga ngarukamwaka cyangwa ngarukagihembwe bitewe n'ibyorezo biriho byibasira indwara z'uruhu.

Urubyiruko rurasabwa kugira uruhare rufatika mu kurwanya ubwandu bw'agakoko gatera sida, ubu bwandu rero bukaba bukomeje kwigaragaza cyane mu rubyiruko, aho usanga abarenga ibihumbi bitatu magana abiri buri mwaka bandura, kandi abo ngabo biganjemo urubyiruko ndetse n'ibihumbi bibiri magana atandatu bapfa buri mwaka bazize iyi virusi itera sida, rero birakwiriye ko twese tuyirwanya.

Kwa muganga hari ibitanda by'abarwayi ndetse n'insakazamashusho, imbere yaho hari agatebe umuganga aba yicayeho, imbere yaho hari mudasobwa ndetse hateretse n'icupa rya ogisijeni kugira ngo umurwayi naza kuyikenera bayimuhereza.

Kugira ngo serivisi z'ubuzima zinozwe bisaba ko amavuriro ndetse n'ibigo nderabuzima biba bifite inyubako zihagije kandi harimo n'ibikoresho bihagije. Urabona yuko muri iri huriro harimo ibitanda bihagije byabugenewe ndetse n'ibitambaro bigabanya ibyumba bitandukanya umurwayi ndetse n'undi kandi biragaragara ko harimo na za supaneti kuri ibyo bitanda bya otomatike.

Mu mazu akorerwamo siporo ahazwi nka Jimu haba hari imashini zitandukanye cyane cyane harimo n'izimeze nk'amagare aho unyonga igare kandi rihagaze bityo ukamenya umuvuduko uri kugenderaho ndetse n'ibirometero umaze kugenda uri gukorera siporo mu nzu.

Kuri ubu kwa muganga uhasanga ibitanda byiza bigezweho, aho buri gitanda kiba gifite na sikurini igenewe kugisavinga, cyangwa gusavinga abarwayi bakiriho, aho haba hari ahagenewe gucomekwa imashini zitandukanye, ndetse n'udukoresho umurwayi cyangwa umurwaza yaba yitwaje nka telefone n'ibindi.

Umuganga uri gutera urushinge umurwayi uryamye ku gitanda wambaye agapfukamunwa n'ingofero, birasa nkaho yaje kwipimisha indwara zitandukanye, bakaba bari kumutera urushinge ngo bamuvomemo amaraso babashe kubona uko bafata ibizamini kugira ngo bamubwire uko ahagaze.

Mu nyubako zo kwa muganga ndetse no mu bigo nderabuzima uhasanga intebe ndetse n'ahantu habugenewe nko mu masare aho abaje gushaka serivise z'ubuvuzi bategerereza abazibaha, akenshi usanga izi ntebe ziteye ku murongo nk'uko bigaragara hano muri iyi korodori, hari abarwayi ndetse n'abaje gusaba serivisi kwa muganga batandukanye bategereje.

Aba mama bane b'abaforomo ndetse n'ababyaza bahagaze imbere y'ivuriro iryo vuriro rero rikaba rifite igice cyihariye cy'inzu y'ababyeyi ariyo izwi nka mateneti bakaba rero bambaye amabaji ndetse n'udupfukamunwa bose.

Kwa muganga hari abarwayi ndetse n'abaganga bagera kuri batatu, harimo abaganga ndetse n'abaforomo aho bari gupfuka umurwayi ndetse undi akabari kumupima umuvuduko w'amaraso kugira ngo amenye uko umutima we uhagaze.

Salle dope cyangwa salle doperasiyo aho bakorera ama operasiyo cyangwa se ibijyanye no kubaga uhasanga imashini zitandukanye ndetse n'amatara yabugenewe afasha abaganga kugira ngo babashe kubaga abarwayi bigende neza ku gihe kandi mu buryo bukwiriye.

Umuganga bigaragara ko ari umuforomo arimo aracomorera umurwayi serumu kugira ngo amushyiriremo indi, bigaragara yuko rwose uyu murwayi arembye, akaba ari mu bitaro ndetse inyuma ye hari n'ikindi gitanda kitariho umurwayi.

Umwana uri kuvurwa yishimye aseka, aho muganga ari kumuganiriza ndetse yamushyizeho akumvirizo kitwa siteto, akaba umwana ari kumwe n'umubyeyi we nawe uri guseka yishimye bigaragara yuko muganga yabahaye serivisi nziza.

Ahenshi ku mavuriro no mu bigo nderabuzima, usanga inyubako nziza cyane zigezweho zikikijwe n'amajaride nayo meza, aho usangamo ibiti ndetse n'indabyo bitandukanye bibasha gutanga umwuka mwiza ku barwayi ndetse n'abakorera kwa muganga.

Eye foundation Hospital ni ibitaro by'amaso, aho abarwaye amaso ku byiciro bitandukanye bagenda bagahabwa serivisi zitandukanye, harimo iz'imiti ishyirwa mu maso ndetse n'amataratara yabugenewe bitewe n'uburwayi bw'amaso babasanganye.

Mu mavuriro atandukanye no kwa muganga hasigaye hari ibyuma kabuhariwe bikoreshwa bita screen cyangwa se isakazamashusho byifashishwa mu kureba ibi bikorwa bitandukanye harimo nk'uko abarwayi imitima yabo itera ndetse no kureba amaoperasiyo atandukanye uburyo aba arikugenda mu gihe barigutanga serivisi z'ubuzima.

Kubera iterambere ry'ikoranabuhanga no mu buvuzi iyo ugiye kwa muganga uhasanga imashini zitandukanye, aho hari imashini zabugenewe zisuzuma abarwayi, hakaba hari n'izindi zabugenewe zifashishwa mu gukora ama operasiyo kugira ngo babashe gutanga serivisi inoze.

Ikigo nderabuzima cya Shagasha nk'uko mubibona ni ikigo nderabuzima mu bigezweho, aho batanga serivisi zitandukanye: iz'uburwayi ndetse n'ububyaza, cyane cyane abarwayi baba baturutse impande n'impande mu Murenge wa Shagaza bivuriza.

Mu bice bitandukanye byo kwa muganga no mu mavuriro harimo igice cya laboratwari, laboratwari rero akaba ari aho bafatira ibizamini ndetse bakanahatangira ibisubizo by'ibizamini abarwayi baba bahawe kugira ngo bamenye uburyo bivuza.

Mu bikoresho bitandukanye dusanga kwa muganga cyane cyane mu mavuriro ateye imbere, harimo ibitanda bya otomatike ndetse n'imashini zisuzumwa abarwayi, ndetse zikanakoreshwa mu gihe umurwayi ari kuvurwa, aho zerekana ibipimo bitandukanye, harimo n'umuvuduko w'amaraso. Ibi bikoresho rero ni ingenzi cyane mu gutanga serivisi z'ubuzima zinoze.

Kwa muganga mu masale dope cyangwa sale z'aho babagira, bakorera ama operasiyo, mbere y'uko binjiramo bakirirwa muri sale irimo imitako myinshi itandukanye, kugira ngo abarwayi babashe kuyihugiraho bo kwitekerezaho cyane, bityo operasiyo ize kugenda neza kurushaho.

Mu bigo nderabuzima tuhasanga serivisi zitandukanye z'ubuvuzi, aho usanga ari ubuvuzi buba bwegerejwe abaturage, ikigo nderabuzima cya Matyazo, kiri mu bigo nderabuzima bitanga serivisi nziza ku bakigana, aho usanga nta mirongo minini ihagaragara cyane kandi n'abaganga bita ku barwayi mu buryo bushimishije.

Mu gihe leta y'u Rwanda iri gushyira imbaraga mu guha serivisi inoze abaturage, usanga no mu gice cy'ubuzima bari kwibanda mu kuzamura ireme rya serivisi batanga, aho usanga hirya no hino harubatswe ibitaro bitandukanye, yaba ibyihariye ndetse n'ibitaro rusange. Urabona ko iyi nyubako rwose ari ibitaro byiza kandi bigezweho, bigaragara ko izagira uruhare runini mu guteza imbere ubuvuzi.

Ubukangurambaga bwo kurwanya icyorezo cya malariya bwari bwabereye ahantu muri sare bafite ibyapa bitandukanye byerekana uburyo malariya ari mbi n'ingamba zose zikwiriye gufatwa kugira ngo yirindwe. Icyo cyapa kikaba kiriho ikirango cya arabisi.

Mu buvuzi buteye imbere, usanga imashini zifashishwa kwa muganga zigira uruhare rukomeye mu koroshya akazi aho nk'isuzuma ry'ahantu hatagaragara cyangwa uburwayi umurwayi aba atabasha gusobanura, imashini zibutahura mu buryo bworoshye bityo umurwayi akaba yavurwa mu buryo buboneye bityo ubuzima bukicuma.

Kwa muganga mu cyumba kirimo urumuri rwinshi ruhagije, harimo ibitanda byinshi by'abarwayi. Ibyo bitanda bikaba ari ibigezweho usanga mu mavuriro menshi atandukanye, bikaba biba biriho n'agatibe bamanikaho serumu.

Aha turi ni muri irikade ikigo gishinzwe gukora inkingo ndetse n'ubushakashatsi ku nkingo muri afurika, giherereye i masaka mu karere ka Kicukiro i Kigali, icyo kigo rero kikaba cyitezweho kugira uruhare runini mu kuzamura ubushakashatsi ndetse n'ikorwa ry'inkingo mu rwanda ndetse no muri afurika muri rusange.

Kugira ngo amavuriro n'ibigo nderabuzima bitange serivisi inoze mu bijyanye n'ubuzima, bisaba ko nabo bimakaza umuco w'isuku aho usanga inyubako zitangirwamo izo serivisi ndetse n'ahahazengurutse hafite isuku ihagije, ibyo bifasha mu kuba abarwayi babona umwuka mwiza ndetse ntibabe bahandurira n'ubundi burwayi mu gihe bagiye kwivuza.

Muri farumasi harimo imiti y'amoko atandukanye hari ifunze mu dukarito ndetse n'igiyi ifunze mu ducupa, ikaba ari imiti ihabwa abarwayi baje bagana ivuriro ndetse imiti ikaba inishyurwa kuko ari farumasi n'ubundi n'izindi zose.

Iyo ugiye kwa muganga uhasanga ibice byinshi bitandukanye, bagenda bavura nabo uburwayi butandukanye, hano urabona ko ari igice cyahariwe kuvura amaso, kandi usanga hari abarwayi benshi baje bashaka iyo serivisi.

Amavuriro atandukanye hirya no hino mu gihugu, usanga ubuyobozi bw'ibitaro bwaragiye bushyiraho inzitiramibu zikoranye umuti kugira ngo baririnde abarwayi, kuba bakwandura malariya. Iyi rero akaba ari gahunda nziza rwose kuko ifasha mu kurwanya ndetse no kurandura malariya, nk'ingamba leta yihaye.

Porikirinike ni amavuriro yigenga. Aha ngaha na yo usanga agira uruhare rukomeye mu guteza imbere ubuvuzi, aho usanga hari nk'abifite batinya gutonda umurongo munini mu mavuriro rusange, bakajya muri za Porikirinike, aho baba bari bobone serivisi yihuse, nubwo yabahenda ariko bakayibonera ku gihe.

Ikigo nderabuzima cya Kigina ni kimwe mu bigo nderabuzima bigezweho, ubona ko ifite inyubako zisobanutse kandi urabona ko inyubako kubera ari nyinshi n'abarwayi ntabwo ari benshi kubera ko abavuzi n'abaganga babakira mu gihe gito bagahita babona serivisi nziza kandi bagakira na vuba kubera ko nyine ibikorwa remezo bihagije.

Ibikorwa remezo bikenerwa mu buvuzi, ntabwo ari ibitaro n'ibitanda by'abarwayi gusa. Usanga kugira ngo serivisi itangwe kandi mu buryo bunoze, bisaba ko n'abakora muri serivisi z'ubuvuzi baba bafite ibiro byiza ndetse n'aho babika ibikoresho bikoreshwa mu biro, nka za mudasobwa ndetse n'intebe nziza zifasha abakora ako kazi, gutanga serivisi inoze.

Mu mavuriro yigenga, uhasanga abakozi batandukanye, aho haba hari abasekirite, ndetse n'abakora amasuku, n'abandi, iri ni ivuriro rero ryigenga ryitwa polikilinike, aho ubona serivisi zose z'ubuvuzi nk'izo usanga ku bitaro bisanzwe.

Ahakorerwa siporo zo mu nzu hazwi nka GM hari imashini nyinshi zitandukanye, harimo izo bagendaho biruka, hariho izo bakoresha nk'abanyonga igare, ndetse n'izindi zitandukanye zirimo ibyuma biterurwa.

Nyarugenge District Hospital ni ibitaro by'Akarere ka Nyarugenge, aho byuzuye vuba kugira ngo byunganire ibitaro bisanzwe bya CHUK, kugira ngo abaturage bo mu mujyi wa Kigali babashe kubona serivisi z'ubuvuzi kandi zibegereye.

Abaganga bari mu ivuriro bari kuvura abarwayi batandukanye, aho uyu mupapa bari kumuvura yambaye agapfukamunwa, aryamye ku gitanda. Bigaragara yuko bari kumusuzuma kugira ngo bamenye uburwayi afite. Hirya yabo hari undi mumama na we uri kuvura umusore wambaye agapfukamunwa.

Mu nyubako zo kwa muganga, usanga hari n'amasale yabugenewe akorerwa n'inama, aho usanga hari ibikoresho biteye imbere, nk'amadiva ndetse n'intebe n'ameza byagenewe gukorerwamo inama.

Ikigo nderabuzima cya Tabagwe ni kimwe mu bigo nderabuzima byakira abarwayi benshi kubera ko cyegereye umujyi, usanga abaturiye za Nyagatare ndetse no mu mujyi muri rusange bose bagana kiriya kigo kubera ko gitanga serivisi nziza kandi inoze mu by'ubuvuzi.

Umuganga uri mu biro bye akaba ari iruhande ya kompiyuta ndetse na mashini ifotora, muri biro ye hakaba harimo n'intebe ndetse na sikirini yerekana ibintu bitandukanye, hakaba harimo n'icyuma gikonjesha cyangwa kizwi nka air condition.

Gahini Rehabilitation Center, ni ikigo cyatashywe ku mugaragaro, kijyanye no kuvura indwara zo mu mutwe no gufasha abahuye n'ihungabana n'agahinda gakabije. Imbere hari abagabo batatu n'umudamu umwe ndetse bafite amazi imbere yabo ku meza, hari na kameramani, imbere ye hicaye abantu bagiye bafite uducupa tw'amazi na mudasobwa.

Umumama uri kwa muganga bigaragara ko yajyanye umwana kumukingiza, ari guhabwa serivisi kandi umwana nawe arishimye, bisa nkaho muganga yamuvuye neza, amutera urushinge ariko yamujijishije mu buryo butamubabaza, cyane cyane ngo bubabaze umubiri, ibyo rero bikaba ari byo bikwiriye abatanga serivisi z'ubuvuzi.

Ikigonderabuzima cya nyarurenzi ni ikigo cy'ubuzima gitanga serivisi zitandukanye harimo n'iyo gutanga amaraso aho usanga ari ikigo kiganwa n'abarwayi benshi ndetse n'abashaka serivisi z'ubuzima batandukanye rero kikaba kizwiho gutanga serivisi nziza cyane kuko kinafite inyubako ndetse n'ibikoresho bigezweho.

Mu bitaro bidateye imbere cyane aho tutabona ama sikirini abasha kwerekana uburyo umurwayi ahagaze mu miterere y'umutima ndetse n'umuvuduko w'amaraso agakoresho kitwa steto karifashishwa kugira ngo muganga abashe gukoresha kumviriza uburyo umutima uri gutera ndetse n'amaraso ari kugenda.

Kwa muganga hari ibitanda byiza cyane, bifite na za supanete cyangwa inzitiramibu zagenewe gufasha abarwayi mu kubarinda malariya, hakaba hari n'amashuka cyangwa amarido manini yabugenewe, atandukanya igitanda n'ikindi kugira ngo umurwayi abashe kuba yisanzuye, aho aba yabikiwe ibanga mu bikorwa aba arimo arakora mu gihe aryamye ku gitanda cy'abarwayi.

Kugira ngo mu mavuriro cyangwa kwa muganga batange serivisi nziza, ni uko baba bafite ibikorwa remezo kandi bifite ibikoresho bihagije, urabona yuko muri ibi bitaro hari ibitanda bihagije by'abarwayi ndetse n'ibindi bifasha kubona serivisi zisananira ubuzima, harimo nk'ahacomekwa ogusijene mu gihe abarwayi bayikeneye, rero ni byiza ko ibitaro byose biba bifite ibyo bikoresho.

Iyo ibikorwaremezo mu buvuzi bihari kandi bihagije bituma n'abatanga izo serivisi z'ubuvuzi nabo bazitanga mu buryo bunoze ku bazikeneye. Aha rero urabona ko uyu muforomo yari ari gutanga urukingo ku bana batoya ndetse ubona ko n' umubyeyi rwose yishimiye kubwa serivisi nziza ari guhabwa.

Kwa muganga no mu mavuriro uretse ibyumba by'abarwayi cyangwa ahabikwa imiti hazwi nka farumasi haba hari n'ibiro, mu biro rero hakaba harimo intebe zabugenewe ndetse n'ameza yabugenewe ndetse n'ibyumba by'inama, iki rero ni kimwe mu byumba by'inama byo kwa muganga.

Abaganga babiri bahagaze imbere y'imashini igaragaza uburyo isuzuma abarwayi, izwi nka paleyi cyangwa se kamera, bari gufata amakuru ari muri iyo mashini kugira ngo babashe guhereza ibisubizo abarwayi.

Kwa muganga ahazwi nko kuri sare dope, usanga imbere yaho hari aho abarwayi bategerereza kugira ngo bajye muri operasiyo, aho haba hari utugare abarwayi bicaramo mbere y'uko bajyanwa mu mawoperasiyo kandi bagasiga imyambaro yabo n'ibyabo byose hanze, mbere y'uko binjira muri sare ya operasiyo.

Stato ni agakoresho gakoreshwa kwa muganga aho umuganga agakoresha yumva, cyane cyane gaterekwa ku mutima ubundi muganga akumva uburyo umutima uri gutera kugira ngo amenye niba uri gutera mu buryo buri normal cyangwa butari normal.

Umukozi wo kwa muganga, bisa nkaho yita ku masuku cyangwa se utera imiti, ahakorerwa ibikorwa by'ubuvuzi, yambaye imyenda yabugenewe yo kumurinda, ndetse afite n'ipombo mu mugongo akoresha atera imiti ahabugenewe, kugira ngo hirindwe indwara z'ibyorezo, zaturuka ku mwanda.

Muri sale ahana abantu bicara bategereje ko bajyanwa muri operasiyo, hakunze kuba hari ibishushanyo bitandukanye, bibafasha kwibagirwa ndetse no gutekereza ku bishushanyo bari kubona mu cyumba cyo gutekereza kuri operasiyo bagiye gukorerwa, cyane ko biba biteye ubwoba kugira ngo bataza kugenda bahahamutse.

Ahantu havurirwa abarwayi bafite ibibazo byo mu mutwe, aho bakunze kwita CARAES, usanga naho hari inyubako zabugenewe ndetse zihariye mu kwakira abo barwayi kugira ngo bavurwe neza kandi batabangamiye sosiyete.

Umuntu uhagaze imbere uri gutanga ikiganiro, yambaye ikositimu y'umukara ndetse n'ishati y'umweru. Imbere ye hakaba hicaye abandi bazanye gutanga ikiganiro bambaye ikositimu y'umweru ndetse n'uwambaye ikositimu y'umukara, bigaragara y'uko ababateze amatwi bari kumva ikiganiro kandi bitonze, bisa nk'aho rwose ikiganiro cyabashimishije.

Abaganga bane bari mu cyumba cyabugenewe bapakiriramo serumo aho harimo imashini izipakira izivana mu gicupa kinini kimeze kimeze nk'ikigega ikazishyira mu ducupa dutoya twabugenewe duherezwa abarwayi kugira ngo izo seru mu zibagezweho.

Ivuriro karayezi furere de ra sharite ni ivuriro rivura rikanita ku barwayi barwaye indwara zo mu mutwe ndetse n'iz'imitekerereze, iri vuriro rero rikaba ritanga serivisi zitandukanye, harimo ubujyanama ndetse n'ubukangurambaga ku burwayi bwo mu mutwe n'ubuzima bw'imitekerereze muri rusange.

Muri Progress Pharmacy ni ahantu usanga imiti y'ubwoko bwose, cyane cyane iya kizungu, aho bakora amasaha makumyabiri n'ane kuri makumyabiri n'ane kugira ngo bahereze serivisi inoze abakiriya babo kandi batanga serivisi inoze nk'uko abakiriya benshi batandukanye babigaragaza.

Mu rwego rw'ubuvuzi farumasi zigira uruhare rukomeye kuko ariho tugurira imiti, kandi muganga yakwandikiye imiti ntubashe kujya kuri farumasi ngo uyisangeyo, icyo gihe n'ubundi umubiri wawe uba ucyugarijwe n'uburwayi. Ni yo mpamvu rero Leta ishyiramo imbaraga kugira ngo ahantu hose haboneke amafarumasi, ariho tugurira imiti.

N'ubwo mu bigo nderabuzima ndetse n'amavuriro haba hari ibikoresho nk'imashini zitandukanye ntibikuraho y'uko abaforomo ndetse n'abaganga bakoresha uburyo gakondo bwo kureba umurwayi ndetse bakanakoresha ibyiyumviro gakondo kugira ngo babashe kuba batahura uburwayi umurwayi waje abagana afite ibyo rero bikaba bifasha mu gutuma hatangwa serivisi mu gihe gito cyihuse.

Burikade ni ikigo nyafurika cyagenewe gukora inkingo, aho leta y'u rwanda yashyizemo imbaraga kugira ngo cyubakwe i masaka, mu cyanya cyahariwe ubuvuzi. Ni' inyubako zitandukanye kandi zizafasha mu kuzamura ireme ry'ubuvuzi cyane cyane muri serivisi z'inkingo.

Kugira ngo kwa muganga abarwayi cyangwa se abahagana babone serivisi nziza ni uko ibikoresho bigomba kuba bihagije kandi hari n'isuku ihagije niyo mpamvu tubona hano ibitanda by'abarwayi bitunganyije neza ndetse n'amashuka abisasheho akaba ameshe hari isuku muri rusange.

Kugira ngo Ibitaro bitange serivisi inoze ni uko ku bitanda by'abarwayi haba hariho n'ibindi bikoresho nk'isakazamashusho cyangwa screens zerekana uburyo amaraso arikugenda n'umutima uburyo urigutera. Ibyo rero si byo gusa kuko haba hasaba n'akabati umurwayi yashyiramo udukoresho twe dutandukanye cyangwa se umurwaje.

Hirya no hino mu nyubako zo kwa muganga no bigo nderabuzima uretse ibitanda by'abarwayi tuhasanga n'ibindi bikoresho bitandukanye, haba harimo nk'utubati, ama screan areberwaho pefomence y'umutima w'abarwayi ndetse n'ibindi, ibi bikoresho rero bikaba bigira uruhare runini mu kunoza serivisi z'ubuzima abarwayi bahabwa.

Good Life Pharmacy ni iduka ricuruza imiti mu gihugu hirya no hino ahantu hatandukanye, aho usanga rigaragaza n'ubwishingizi rikorana nabwo aho twasangamo nka mituweli cyangwa se rssb, ubwishingizi butangwa na saniramu ndetse na mi misiyuwara n'ubundi. Usanga rero iyi farumasi irimo imiti yose umurwayi yakenera igihe yandikiwe na muganga.

Mu nyubako zo kwa muganga hari ahabugenewe, havurirwa abana nk'uko bigaragara hano ni mu ivuriro ryihariye ry'abana riri mu rurimi rw'icyongereza ngo:"Pediatrics specially clinic."

Kugira ngo leta ibashe guha serivisi abahuye n'ihohoterwa cyane cyane irishingiye ku gitsina, hashyizweho ibigo ahenshi hatandukanye bya Isange one stop center kuri buri bitaro cyangwa se ibigo nderabuzima. Ibi bigo rero bikaba bigira uruhare runini, mu gutanga ubufasha bw'ibanze kugira ngo abahohotewe babashe kubona serivisi z'ubuzima bakeneye.

Pediadrick Center ni ivuriro ryagenewe kuvura abana, aho ryanditse mu mabara atandukanye, ubururu, umutuku, umuhondo, n'icyatsi, kugira ngo abana nyine bajye babona ayo mabara atandukanye nabyo bibashimishe mu gihe ababyeyi babo babazanye kubavuza.

Ibikoresho bitandukanye byiganjemo imiti ndetse na bande n'ibikoresho bikoreshwa mu gihe abakinnyi bavunitse cyangwa bahuye n'impanuka mu gihe bari muri siporo cyangwa imyitozo ngororamubiri, bikaba bipakiye mu gakapu abaganga bavura abantu bari mu myitozo ngororamubiri baba bafite.

Iyo siporo imaze kuba umuco hari indwara nyinshi ziba zitatinyuka ukora siporo. Aha urugero ni uko iyo umuntu amaze kugira ingeso ihoraho yo gukora siporo, akabigira umuco, usanga afite ubuzima buzira umuze mu buzima bwe bwa buri munsi.

I kupure igizwe n'umugabo ndetse n'umugore bari muri siporo, bose bafite uducupa tw'amazi bakaba bambaye utwenda tugufi ndetse n'udusengeri, byerekana yuko bakunda siporo kandi bayikorera hamwe nka kupure, ibi rero bikaba binabafasha mu mibanire yabo myiza.

Uretse kuba siporo iruhura umubiri ndetse n'ubwonko umuntu agasanga atekanye mu mutwe ni n'ubuvuzi bukomeye cyane cyane mu kuvura indwara z'imyakura ndetse n'imitsi bityo rero umuntu akaba akwiriye gukora siporo kenshi gashoboka kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Kuri ubu siporo usanga abantu benshi baramenye umumaro wayo ,aho n'ab'igitsina gore usanga basigaye bayitabira, gusa hambere aha wasangaga hari mentalite y'uko siporo ari iy'igitsina gabo gusa ubu rero kubera ko siporo ari ubuzima abantu bose barayitabira ibitsina byombi yaba abagabo n'abagore.

Muganga uri kuvura umuntu, akoresheje ubugororangingo, uwo murwayi uri kuvurwa, akaba ari umukobwa, wambaye agapira k'umutuku. Uyu muganga rero bikaba bisa nk'aho arimo arasuzuma indwara ye akoresheje gusuzuma imitsi.

Akamashini kabugenewe kaba kwa muganga ndetse n'ahantu hakorerwa imyitozo itandukanye, gapima umuvuduko w'amaraso ndetse n'umuvuduko umuntu aba yakoresheje igihe yiruka, kugira ngo hapimwe umutima uburyo utera.

Ubukangurambaga mu bijyanye na siporo n'umuti ,ibigo nderabuzima ndetse n'amavuriro bikunze gukora ubukangurambaga bikangurira abaturage mu kwitabira siporo aho usanga mu rwanda hashyizweho n'umunsi wihariye wa siporo uzwi nka Car free day.

Kuruwa ruje ni umuryango utegamiye kuri reta ukunda kwigisha urubyiruko n'abantu batandukanye uburyo bwo gutanga ubutabazi bw’ibanze, cyane cyane mu gihe cya siporo ndetse no mu gihe cy'intambara cyangwa n’ahantu hahuriye abantu benshi uyu muryango. Rero ukaba uhugura abantu gutanga ubutabazi bw'ibanze muri rusange.

Usanga abantu benshi bibanda ku gukora siporo bamaze kuba bakuru cyane, aruko ubuzima butangiye kugorana, ariko mu by'ukuri siporo yakagombye kuba umuco, guhera mu batoya, umuntu agahera mu bugimbi akora siporo kurinda aba umusaza, kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza.

Maneke ni ibikoresho bikoreshwa mu buryo bw'ubuvuzi, aho biba wabyita nk'ibikinisho ariko abavuzi cyangwa se abanyeshuri biga iby'ubuvuzi bigiraho kugira ngo bavure, biba bifite igice cyihariye bitewe n'igice bari kwiga, akaba ari cyo bakoreraho ubwo bushakashatsi.

Abaganga b'abakinnyi usanga bafite udukapu turimo imiti itandukanye, aho haba harimo za bande, igipimo cy'umuriro cyangwa se terimometere, umukasi ndetse n'ibindi. Utu dukapu rero n'ubwo ari duto tuba turimo ibikoresho byinshi byabugenewe kandi bihagije kugira ngo umuntu atange ubuvuzi bw'ibanze.

Hari imimaro itandukanye ijyana no gukora siporo cyane cyane ku bantu babigize ihame, aho usanga harimo uburwayi butabasha gufata abo bantu nk'uburwayi bw'umutima, imitsi ndetse n'izindi ndwara. Bityo tukaba duhamagarirwa gukora siporo kenshi gashoboka mu buryo bwo kugira ubuzima buzira umuze.

Emarayi na Sitisikani ni zimwe muri kamera zabugenewe zifata amashusho y'imbere mu mubiri kwa muganga kugira ngo umurwayi abashe kumenya uburwayi arwaye abifashijwemo nizo mashini cyangwa se izo kamera zabugenewe.

Kunywa amazi ahagije mu gihe ukora siporo, byunganira cyane umubiri, ndetse bigatuma umuntu agira uruhu rwiza, ubushakashatsi bukomeje kugaragaza yuko abantu banywa amazi ahagije, kandi bagakora siporo zihagije, bagaragaza isura cyangwa se ishusho yo kudasaza, ugereranyije n'imyaka baba bafite.

Bande ni igitambaro cyabugenewe gikoreshwa muri siporo cyane cyane nk'iyo hari ahantu uri gukora siporo agize imvune cyangwa ashoke aho azirikaho iyo bande kugira ngo amaraso n'imitsi bikomeze bitembere kandi bikore neza rero bande akaba ari ingirakamaro muri siporo zose muri rusange.

Bumwe mu buvuzi bukorwa muri siporo harimo gukoresha barafu. Aho dusanga barafu zabugenewe zirambikwa cyangwa zigakozwa aho umuntu afite uburibwe, mu gihe ahuye n'impanuka mu kibuga cyangwa muri siporo.

Kugira ubuzima bwiza na siporo ni ibintu bigendana, ni yo mpamvu usanga inzego zitandukanye, zihamagarira abantu, cyane cyane urubyiruko n'abato, gukora siporo kugira ngo bagire amagara mazima kandi iyo umuntu akora siporo, bimufasha kuvura uburwayi bwinshi butandukanye, mu buryo gakondo.

Mu mazu ahabugenewe hakorerwa siporo hazwi nka jimu, kuri ubu usanga na ho ari nko kwa muganga kuko benshi bajyayo bagiye gukora siporo bandikiwe na muganga kubera ko uburwayi butandukanye nk'imitsi ndetse n'umubyibuho ukabije, byose muganga asaba ababirwaye kugana ayo mazu yabugenewe nka zajimu kugira ngo abe ari byo bibavura.

Amazi nk'isoko y'ubuzima. Umuntu kugirango abe afite ubuzima bwiza ni ngombwa ko anywa amazi ahagije aho ubushakashatsi bugaragaza ko umuntu mukuru byibuze akwiriye kunywa litiro eshatu z'amazi byibuze ku munsi kugira ngo abe afite ubuzima buzira umuze.

Bumwe mu buryo bwo kuvura hakoreshejwe siporo, harimo no kuryama wubitse umugongo ku musambi cyangwa se ahantu haterereye harambuye, nko kuri sima. Ubu buryo rero bufasha mu kugorora umugongo ndetse no gutuma amaraso atembera mu mubiri neza.

Umugabo wambaye agapira k'ubururu hediseti z'ubururu akaba ari kunywa amazi ndetse anambaye akantu ku kuboko batwaramo terefone mugihe bari kuri siporo. Rero uyu mugabo ari fiti mu bigaragara kuko anywa amazi ahagije agakora na siporo.

Siporo rusange ni ingenzi uretse kuba ifasha mu kugira ubuzima bwiza ifasha no mu gutuma abantu babana neza aho usanga iyo abantu bakora siporo hamwe binatuma imibanire yabo iba myiza cyane kurushaho kubera ko baba bakemuye ibibazo mu buryo buri rusange.

Kunywa amazi ni umuco ukwiriye kubungabungwa ukanasigasirwa. Cyane cyane ku bantu bakora siporo ndetse n'abakora imirimo itandukanye, dukwiriye kunywa amazi kugira ngo ubwonko bubashe kubona oxygène ihagije n'amazi ahagije. Si ubwonko gusa n'ingingo zitandukanye nk'ipyiko zikenera amazi kugira ngo ziyungure amaraso n'imyanda mu mubiri.

Bebiri ni ikigo gitanga serivisi z'ubuzima hakoreshejwe ikoranabuhanga, ndetse kikanageza serivisi ku bazigisabye aho bari. Iki kigo rero kikaba gitanga amabwiriza, ndetse n'uburyo butandukanye bwo gukoramo siporo, nk'uburyo bw'ubuvuzi, nk'aho barambura amaguru, aho bahina amaguru, ndetse n'ubundi buryo butandukanye.

Umukobwa wambaye agasengeri k'ubururu karimo ibara ry'icyatsi n'umweru akaba yiteye umupira wo kwifubika w'ibara ry'umweru, akaba ari kunywa amazi ari mu gacupa k'umweru n'ubururu.

Umukorerabushake wabugenewe, arimo arafasha umurwayi cyangwa se umuntu uhuye agisida, wari uri muri siporo mu gihe cy'amasiganwa, amarushanwa azwi nk'ateletisme, rero ni byiza y'uko baba bari bugufi kugira ngo bahite bafasha uhuye n'ibibazo.

Gukora siporo ni ingenzi mu buzima kubera ko hari indwara nyinshi zivurwa na siporo gusa atari uko umuntu yanyweye imiti cyangwa ngo ajye kwa muganga, muri urwo rwego rero iyo umuntu akora siporo bituma afata n'izindi ngamba zo kwiyitaho nko mu kuba yarya indyo yuzuye bityo agahorana ubuzima buzira umuze.

Barafu zabugenewe mu gukanda aharibwa cyangwa se ahari uburyaryate mu gihe umuntu ari gukora siporo, cyangwa ahuye n'impanuka muri siporo. Ni bumwe mu buvuzi buteye imbere kandi usanga bufasha ababukoresha, ku buryo nk'iyo uyikojeje ahari kukurya cyangwa ahakubabaza, bimera nkaho baguteye ikinya uburibwe bugashira.

Siporo nk'umuti, siporo ni umuti ku ndwara zitandukanye, harimo nk'umuvuduko w'amaraso, imitsi, ndetse n'izindi zitandukanye, zirimo nko kuba umuntu yagira amavunane, cyangwa se akagira umunaniro ukabije, ni yo mpamvu siporo rero ari ingenzi mu buzima, kuzikora uba urimo urabungabunga ubuzima bwawe bwa buri munsi.

Nubwo siporo ari isoko y'ubuzima kandi hari indwara nyinshi zivurwa na siporo ariko ntitwakwirengagiza ko hari benshi bahura n'ibyago muri siporo nk'imvune zitandukanye ndetse n'ama agisida. Urabona ko uyu mugabo nawe yagize imvune mu ivi mu gihe yari arimo akora siporo rero birakwiriye ko mu gihe dukora siporo twitwararika tugakora izigereranyije.

Umusore uri kunywa amazi meza mu gacupa bigaragara yuko ari no kumedita kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza, kunywa amazi ni ingenzi cyane iyo umuntu abigira ingeso kandi akagira amasaha atarenza yo kunywa amazi, dukwiriye kunywa amazi byibuze litiro eshatu ku munsi kugira ngo tube dufite ubuzima buzira umuze kandi twirinde indwara z'impyiko ndetse n'izindi ndwara zitandukanye.

Umugabo wambaye umupira w'ubururu wo hagatishati akaba anambaye shannete wagira irihisha p ari kunywa amazi akaba avuye muri siporo rero bigaragara yuko ashaka amazi kandi yishimiye kuba bari kunywa amazi.

Siporo ni imwe muri disipuline umuntu wese akeneye siporo ikaba ifasha umuntu mu kugira gahunda mu buzima bwe bwa buri munsi cyane ko bisaba umuhate n'ubwitange budasanzwe kugira ngo wubahirize ingengabihe wihaye iyo ukora siporo muburyo bwa buri munsi.

Siporo zikorwa mu byiciro bitandukanye aho usanga hari abahitamo gukina umupira w'amaguru abandi bagakora kwiruka abandi bagakina imipira y'amaboko itandukanye harimo nka rugb, tennis, volleyball ndetse n'iyindi gusa ibyo byose n'ubundi ijyanishwa no kunywa amazi meza kandi ahagije.

Iyo ugiye mu byanya n'amazu byabugenewe aho gukorerwa siporo hazwi nka jimu, uhasanga imashini zitandukanye ndetse n'ibikoresho byabugenewe bifasha abakora siporo kuzikora neza, ku buryo usanga naho ari zimwe muri serivise z'ubuzima zikenewe muri iki gihe. Aho hantu rero hakwiriye kwitabirwa n'abantu bose, kuko siporo ari isoko y'ubuzima bwiza.

Iyo ukora siporo neza kandi ukanywa n'amazi ahagije, ibyongibyo ubwabyo ni umuti ku ndwara nyinshi nk'umwoma, umuvuduko w'amaraso, indwara z'umutima, ndetse n'izindi zitandukanye. Bityo rero tukaba duhamagarirwa gukora siporo zihagije ndetse tukanywa n'amazi ahagije kugira ngo tugire ubuzima buzira umuze.

Gukangura imyakura ukoresheje imashini zabugenewe nabyo bibarwa nk'ubuvuzi bukoresha siporo, aha ngaha rero urabona ko uyu muganga arimo aravura umurwayi akoresheje imashini zabugenewe mu gukangura imitsi.

Siporo ni ingenzi cyane mu buzima kuko muri iyi minsi ya none usanga idakoreshwa nk'uburyo bwo kugira ubuzima bwiza gusa, ahubwo hari n'indwara zihariye zivurwa na siporo, urugero: aha ngaha twabona nk'uburwayi bw'imitsi ndetse n'uburwayi bumwe na bumwe bw'amagufwa aho usanga muganga akwandikira gukora siporo zitandukanye, harimo na yoga.

Sigisi paka kuwa, ni igikoresho cyabugenewe, mu kugabanya ibinure cyane cyane ku nda, aho usanga abantu bafite ibinure ku nda bayikoresha, mu buzima bwabo bwa buri munsi muri siporo, ubu rero ikaba igura ibihumbi ijana na makumyabiri by'amafaranga y'u Rwanda.

Mu bikoresho bidufasha gukora siporo neza harimo na sikirini ifasha umuntu kumenya ibirometero akoresheje cyane cyane kicyo bita indosipoti, iyi mashini rero ikaba ari ingirakamaro kuko ifasha abakora gimu kumenya umuvuduko ndetse n'ibirometero bagenzi mu gihe bakoreye siporo mu nzu.

Umuntu uri gusuka amazi mu kirahure ayakura mu ijaga y'ikirahure, bigaragara yuko ari amazi meza y'urubagogo atunganyije, akwiriye kunyobwa. Kunywa amazi rero bikaba ari imwe mu nkingi ya mwamba kugira ngo umubiri ube umeze neza kandi uhehereye.

Uretse kuba siporo igorora imikaya ndetse n'imitsi igira n'uruhare runini mu gutuma umuntu agira mudu nziza, aho usanga abantu bakora siporo batajya bafatwa n'indwara ya dipuresiyo.

Yoga nka bumwe bumwe mu buryo bugezweho bwo gukora siporo, aho usanga, ari siporo zikorerwa mu nzu kandi nta bikoresho bihambaye bikenewe, yagize uruhare runini mu kuzamura ubuzima bwiza, cyane cyane ku bakiri bato aho usanga aribo bisanga muri uwo mukino ngororamubiri.

Abaganga bane harimo abadamu babiri n'abagabo babiri, bari kuvura umurwayi ufite ikibazo cy'ubuhumekero, bigaragara yuko babanje kumusuzuma, nyuma bakaba bari kumukorera operasiyo.

Siporo nk'uburyo bw'ubuvuzi, turabona ko uyu mubyeyi arimo aragorora imitsi akoresheje agatambaro, aribwo buryo bita kugorora imyakura, hifashishijwe ingororangingo cyangwa se uburyo bwo kugorora ingingo.

Mu buryo bwo gukora siporo yimakaza ubuzima kandi itekanye, ni ngombwa yuko abantu bakora siporo zitandukanye bigishwa uburyo butandukanye bw'ibanze, bwo kwirinda cyangwa se bwo gufasha umuntu waba ukoze impanuka igihe ari gukora siporo.

Ikanguramyakura ni bumwe mu buryo bwizewe kandi buboneye bwo kuvura hifashishijwe siporo cyangwa masaje. Ubwo buryo rero bukaba bufasha abarwayi kubona serivisi nziza kandi nabo bakabigiramo uruhare bakora izo siporo zitandukanye.

Kunywa amazi meza kandi ahagije birinda gusaza imburagihe, aho usanga umuntu unywa amazi meza kandi ahagije agira uruhu rwiza agatemba itoto nk'umuto kandi ari mukuru.

Umusore ufite ibizigira bigaragara ko ari muri siporo, akaba ahagaze arimo araruhuka, yambaye isaha y'umukara ndetse n'isengere y'ikigina, akaba rero ari gukora umwitozo wo kureragis, aho asohora umwuka anawinjiza bizwi nk'umwitozo wo guhumeka.

Ubuvuzi bukoresha bande ni ubuvuzi usanga bukenerwa n'abantu bakora siporo cyane, aho bande ikoreshwa ku muntu uhuye n'imvune cyangwa agisida itandukanye mu gihe ari muri siporo, bande rero kikaba ari igikoresho umuntu wese yakabaye afite mu gihe akora siporo.

Umuntu wese ukora siporo biba bikwiriye ko anywa amazi ahagije kuko iyo ukora siporo usohora amazi menshi yaba mu mwuka, mu byuya ndetse no mu myanda isohoka mu gihe umuntu ari gukora siporo, ni byiza rero yuko unywa amazi ahagije kandi meza kugira ngo ubuzima bube bumeze neza wirinda umwuma.

Kunywa amazi bikwiriye kuba umuco, amazi meza akwiriye kunyobwa mu gihe cyose umubiri uyakeneye ndetse n'iyo waba udafite inyota, kubera ko ari ingenzi mu mubiri ukwiriye kunywa amazi kandi ahagije igihe cyose wihaye ugomba kunyweraho amazi.

Neosporin n’umuti ukomoka ku bimera gakondo aho urwanya indwara zandura cyangwa icyo twita ama infection mu gihe wakoze impanuka yaba iy'ibisebe cyangwa impanuka zitandukanye kugira ngo wirinde nyine izo infection ukoresha uyu muti wa neoaporin.

Mu bikoresho byo kwa muganga bigezweho hariho n'ibitanda, aho haje ibitanda kwa muganga bigiye bifite uburyo butandukanye umurwayi aryamamo, yaba azamuye akaguru kamwe cyangwa menshi, aha ngaha barimo barakora isuzuma ry'igitanda kugira ngo barebe uburyo gifasha umurwayi ndetse n'umuganga mu kumuvura igihe aryamye kuri icyo gitanda.

Umuganga w'abakinnyi ari kuzirikira bande umukinnyi wakomeretse cyangwa wavunitse mu kaboko aho ari kuzirikamo bande akanamushyiriraho barafu kugira ngo imugabanyirize uburibwe kandi asubire mu kibuga ameze neza.

Muri gimu uhasanga abantu b'ingeri zose mu gihe mbere wahasangaga abasore n'abagabo bashaka kuzana amatuza, ubungubu kubera umumaro wa siporo uhasanga ibitsina byombi yaba abagore ndetse n'abagabo, abasore n'abakobwa, bose baje gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo babashe kuba bafite ubuzima buzira umuze ari cyo mu ndimi z'amahanga bita kuba fiti.

Siporo ni ingenzi kandi ni inkingi ya mwamba mu kugira ubuzima buzira umuze, rero hari siporo zitandukanye yaba izikorerwa mu nzu cyangwa hanze, siporo zikorerwa mu nzu rero ntabwo ziba zihenze kandi ntizinatwara umwanya munini kuko ushobora no gukora siporo mu minota cumi n'itanu kandi ukagira ubuzima buzira umuze.

Ubushakashatsi bwakomeje kugaragaza ko ikimera gakondo cyitwa igikakarubamba gikorwamo imiti itandukanye nk'aho usanga mu buvuzi buteye imbere hari imiti y'amenyo ikorwa muri icyo kimera cyitwa igikakarubamba.

Umusave ni igiti gakondo aho amababi yacyo ndetse n'ibishishwa byacyo bikorwamo imiti itandukanye, usanga imiti ivura nk'ifumbi ndetse n'ibibyimba ikorwa muri iki giti, kikaba ari igiti icyiza rero n'ubusanzwe kivamo imbaho kandi kikaba giteza imbere ubukungu.

hacururizwa imiti gakondo uhasanga ubwoko bw'imiti butandukanye, aho haba hari Ikozwe mu buryo bw'amavuta yo kwisiga inyobwa nk'ibinini, ndetse n'indi ikozwe mu mishongi. Iyi miti rero iyo ugiye kuyigura, baguhereza amabwiriza cyane cyane akunda kuba yanditse ku ducupa iba ipfunyitsemo y'uburyo ikoreshwa.

Iyo tugiye kwivuza mu mavuriro gakondo, aho bakoresha ibimera gakondo, tuhasanga n'imbuto, niyo mpamvu usanga abavuzi gakondo batugira inama yo kurya imbuto kenshi gashoboka, aho rimwe na rimwe tunabisimbuza nk'amafunguro ya nijoro, kugira ngo igifu kibashe kubona ibinyabutabire gikenera, biturutse muri izo mbuto nka za fibure.

Amacupa arimo imiti myinshi igiye atandukanye arimo n'imiti itandukanye hari ipfundikiye n'idapfundikiye hari ameze nk'udupombo n'andi ameze nk'ibirahure iruhande rwayo hagiye hari amashashi yerekana yuko arimo imiti ikorwamo iyi miti iri mu macupa y'imishongi.

Grobal Alliance ni ikigo kabuhariwe gicuruza imiti gakondo ndetse kikanafasha abanyamigabane bacyo bagishoramo, kugira uruhare mu gufata iyo miti ku magabanyirizwa atandukanye. Rero iyi miti iba yizewe kandi iba iva mu bimera gakondo.

Imwe mu miti gakondo ikomeye harimo umushongi w'amaronji uvanze na tangawuzi ndetse no mucyayicyayi wa kijyambere uzwi nka miti, aho iyi miti ivura urukomatanye rw'uburwayi butandukanye harimo n'uburwayi bw'igifu.

Akagera medicine ni ikigo gitunganya ndetse kikanatanga ubuvuzi gakondo, kifashishije ibimera n'imiti gakondo, iki kigo rero kikaba gitanga serivisi nziza harimo no kuvura indwara benshi bita izidakira, ariko bakazitanga ku bantu batandukanye.

Imiti gakondo cyane cyane ikomoka ku bimera, iba ikwiriye kubungabungwa kubera ko n'ubundi imiti ya kijyambere itagerwaho, hatabashije kubungwabungwa iyo miti gakondo. Niyo mpamvu rero usanga n'ibigize imiti ya kijyambere dukunda gusanga mu mafarumasi, igereranya rinini cyangwa se ijanisha rinini, riba rigizwe n'imiti gakondo.

Igiti gakondo cyitwa umuravumba, ni cyo kivura indwara zitandukanye mu buryo bwa gakondo, aho yaba amababi yacyo ndetse n'ibishishwa byacyo cyangwa imizi yacyo byose bigenda bivura indwara zitandukanye.

Uducupa tubiri kamwe ko mu ibara ry'umohondo akandi kari mu ibara ry'umeru. Inyuma hashushanyijeho ikimera gakondo kikaba n'umuti gakondo kitwa igikakarubamba, hakaba handitseho kuri ayo macupa yombi foreva arowu beri negita.

Imbuto nazo ziri mu bigize imiti gakondo, hari aho ujya kwa muganga bakakwandikira kurya imbuto gusa mu cyimbo cyo kukwandikira imiti, icyo cyerekana rero yuko urya imbuto neza, ukazirya kenshi gashoboka nabyo ubwabyo hari imiti uba ufashe kandi hari uburwayi uba wirinze.

Umuravumba ni igiti gakondo kandi kikaba n'umuti kabuhariwe, aho usanga muri buri miryango bagiye bafite icyo giti mu mafamu ndetse no muri jaride kugira ngo babashe kwivura indwara zitandukanye, harimo inkorora, ibicurane n'izindi.

Mu ijanisha ry'imiti ndetse n'ibinini bikorwa mu mafarumasi atandukanye, usanga ibyinshi bikomoka ku giti gakondo cyitwa igikakarubamba. Ari wo mu ndimi z'amahanga bita Aroevera. Iki giti rero kikaba gifite ubudahangarwa ndetse n'ubushobozi bwo kuvura indwara nyinshi zitandukanye, nk'uko ubushakashatsi bubigaragaza.

Choleduz ni umwe mu miti icuruzwa na Grobal alliance nk'ikigo gicuruza imiti gakondo mu Rwanda. Uyu muti rero uvura uburwayi butandukanye kandi uboneka hose mu gihugu.

Imiti gakondo ni ingenzi cyane kuko usanga nk'umuti umwe uvura indwara nyinshi zitandukanye, urugero nk'iki giti cy'umuti gakondo bigaragara ko ari umusaze, ivura indwara zitandukanye harimo n'iz'uruhu.

Mu bimera gakondo, ikimera cyitwa igikakarubamba cyangwa alo uvera, mu cyongereza, kiza ku isonga mu bitanga cyangwa se ibikorwamo imiti myinshi itandukanye, iki kimera rero cyangwa uyu muti gakondo ukaba ari ingenzi cyane ku buryo buri muryango wose wakabaye ugifite mu mirima.

Mu buvuzi gakondo usanga hakoreshwa ibimera bitandukanye aho usanga atari ibimera gusa ahubwo bibanda ku ndabyo, imbuto, ndetse n'imizi by'ibyo bimera mu kuvura indwara zitandukanye izi ndabyo urabona ko ziri mu moko atandukanye kandi n'ubundi zivura uburwayi n'indwara zigiye zitandukanye.

Gakondo ndetse ari n'ibimera gakondo harimo umuhurura. Muhurura akaba ari ikimera kirandaranda ariko kivura indwara zitandukanye cyane cyane indabyo zacyo aho byifashishwa mu kuvura ibibyimba.

Reka tuvuge ku mumaro w'igikakarubamba. Igikakarubamba ni umuti gakondo uvura indwara nyinshi zitandukanye ndetse kubera akamaro kawo buri muturarwanda wese yakabaye afite icyo kimera, cyane ko kidasaba ibintu byinshi kugira ngo kitabweho no muri jaride ushobora kugiteramo nk'indabyo.

Mu buvuzi gakondo hifashishwa urusobe rw'ibimera bitandukanye, aho tubonamo umuyogooro ndetse n'ibikakarubamba ndetse n'ibiti bitandukanye, byose byifashishwa mu gukora imiti cyangwa se urusobe rw'imiti, bikifashishwa mu kuvura abarwayi indwara zitandukanye, harimo n'izananiranye zidakira.

Ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi gakondo usanga hari n'abakiriya benshi batandukanye ariko cyane cyane abari mu cyiciro cy'abakuze, aho usanga bakoresha imiti gakondo kurusha uko bajya mu mafarumasi ateye imbere, nko gukoresha imiti iba yavuye mu nganda. Aba bantu rero baba bazi umumaro w'imiti gakondo cyane ku buryo utapfa kubibakuramo.

Agasekuru n'agahini biteretse mu miti gakondo itandukanye, irimo imizi, inzuzi, impeke ndetse n'ibishishwa, bigaragara yuko ari ivuriro gakondo rero bari gutegura iyi miti kugira ngo bayihe abarwayi.

Aka kabati urabona ko karimo imiti myinshi gakondo iri mu macupa afunze neza ndetse ayo macupa akaba ariho za etiqute cyangwa se utwandiko twerekana umuti nicyo uvura.

Umu mama bigaragara ko ari muri jaride wambaye igitenge cy'amabara y'umuhondo n'umutuku, afashe ikimera gakondo kikaba ari n'umuti aho ari gusoroma indabyo zacyo kugira ngo azikoreshe nk'umuti, iki kimera rero kikaba kizwi nko kuvura indwara zitandukanye.

Igikakarubamba nk'imiti gakondo iri ku isonga, gikomeje kubungabungwa n'abashakashatsi batandukanye ndetse n'abavuzi gakondo, ndetse n'amashyirahamwe yabo, urabona ko hano bari bari gusura uyu murima w'ibikakarubamba ndetse ubona ko rwose, bari bari guhugurwa ku bijyanye n'uburyo byabungabungwa.

Mu rusobe rw'ibimera rero, buriya habamo imiti myinshi gakondo. Iyo ugiye nko mu bihuru ahantu hatandukanye, uhasanga ibyatsi by'amoko atandukanye ariko bigira uruhare runini mu buvuzi, nk'igiti cy'umunzinze, urabona ko kiba cyabungabunzwe kugira ngo abakenera kugikoresha mu buvuzi, bajye babasha kukibona.

Mu bice bitandukanye by'igihugu uhasanga amavuriro menshi atandukanye akoresha imiti kamere cyangwa se ubuvuzi bwa gakondo, ahangaha uzahasanga aho bafata ibimera gakondo bakabikuramo imiti itandukanye yaba ivura indwara z'uruhu, z'umusatsi cyangwa n'iz'imbere mu mubiri. Ubuvuzi rero bukaba ari ingirakamaro cyane mu buryo bwo kubungabunga ubuzima.

Etajeri irimo imiti igiye itandukanye mu macupa aho buri cupa ririmo umuti, ririho aka etikete cyangwa se inyandiko yerekana uburyo umuti ukoreshwa ndetse n'indwara uvura.

Iyo jaride irimo indabo z'amoko atandukanye ariko hakaba harimo n'imiti gakondo nka kapusine, okura ndetse n'iyindi, usanga biryoheye ijisho cyane ko n'iyo umuntu arwaye akajyamo abasha gusoromamo imiti akayirya mu buryo bwa gakondo agakira kandi yanabonye umuyaga mwiza uturuka muri iyo jaride.

Imiti gakondo isigaye ibungabungwa, kuri ubu ngubu leta y'u Rwanda yanashyizeho itegeko ryihariye ryo kubungabunga urusobe rw'imiti gakondo cyane cyane iri mu cyiciro cyo kuba yazimira, ibi rero bifasha abantu bose kuba bayibungabunga kugirango na za raburatwari zikore imiti zitazabura imiti zikoresha.

Kugira ngo abantu bakenera serivisi z'ubuvuzi gakondo babone serivisi inoze, ni ngombwa y'uko imiti gakondo nayo iba, yateguwe neza mu buryo bwubahirije amabwiriza ashyirwaho n'inzego zibishinzwe, niyo mpamvu usanga babasaba kuyishyira mu ducupa twabugenewe, ndetse n'udutibe twabugenewe kugira ngo ibashe kubikwa neza, itazangiza ubuzima bw'abayikoresha.

Umu mama ufite agacupa karimo umuti ukomoka ku bimera gakondo kanditseho Ravenda, kakaba gafite n'amagambo mu mpande asobanura icyo uwo muti uvura ndetse n'uburyo ukoreshwa bigaragara yuko usigwa ku mubiri.

Imiti gakondo igiye iri mudusekuru dutandukanye ndetse n'irambitse hasi harimo ikozwe mu mizi, ibinyampeke ndetse n'ibinyabijumba bigaragara yuko aha ari mu ivuriro gakondo kandi batanga iyo miti iri gutegurwa kugira ngo ifungwe mu macupa yabugenewe.

Mu miti gakondo itandukanye harimo piripirimanga , harimo iyo bita detsi , harimo inzuzi zitandukanye ndetse n'ibihumyo . Bigaragara yuko iyi miti rimwe na rimwe iba ari ni ibiribwa gakondo ariko twe tutabizi ko ari imiti . Kandi ivura indwara zitandukanye ndetse n'iyo itaba ari uburwayi, ubwabyo kubirya bitera ubuzima bwiza .

Igiti cyitwa ikibonobono uretse kuba ari umuti gakondo kivamo n'ibikoresho bitandukanye, aho gikorwamo amavuta akoreshwa muri moteri ndetse n'ibindi binyabiziga.

Kugira ngo imiti gakondo ibikwe mu gihe kirambye abayitunganya barayanika cyangwa bagakoresha uburyo bwo kuyumisha hanyuma bakayishyira muri forume y'amafu kugira ngo babashe kuyipakira mu ducupa dutandukanye izabashe kubikwa igihe kirekire.

Muringa n'igiti cy'ingirakamaro cyane aho kivura indwara zigera kuri magana atatu mirongo itanu harimo iz'uruhu izo mu nda zo mu maraso ndetse zikaba zifite n'amavitamin agiye atandukanye ku buryo kinifashishwa mu mbonezamirire.

Imiti gakondo ni ingenzi mu buzima, cyane ko iyo ugereranyije ikiguziyo n'imiti, iteye imbere iba yakorewe mu mafarumasi inacururizwa mu mafarumasi, usanga harimo ikinyuranyo kinini, usanga imiti gakondo ihendutse cyane ko yo iba yakozwe mu buryo busanzwe kandi igakorerwa imbere mu gihugu.

Reka tuvuge ku buryo ubuki ari ingirakamaro, ubuki ni kimwe mu miti gakondo, aho ubuki buvura indwara zitandukanye, yaba iz'uruhu iz'uburwayi bwo mu nda nk'igifu ndetse n'ubundi butandukanye, si ibyo gusa kandi ubuki bukorwamo n'amavuta ndetse n'imiti ikoreshwa ku ruhu mu buryo butandukanye.

Muri Afurika kimwe n'ahandi hose ku isi, usanga bagira umunsi wihariye wagenewe kwizihiza ubuvuzi gakondo, usanga aho baba bateguye ibikorwa bitandukanye, harimo n'ubukangurambaga bwo kubungabunga no kwita ku miti gakondo kugira ngo itazacika cyangwa ikazimira.

Umuravumba, umuravumba ni igiti cyangwa ikimera gakondo gikorwamo imiti itandukanye, yaba ari iyabanje kunyuzwa mu nganda zikora imiti cyangwa no kugikoresha mu buryo gakondo, aho kivura indwara zitandukanye harimo inkorora, ibicurane ndetse n'izindi nk'izo mu nda. Iki giti rero kikaba ari ingirakamaro cyane.

Urwego rw'ubuvuzi gakondo na rwo rumaze gutezwa imbere, aho usanga imiti myinshi itunganywa ndetse igakorwamo amavuta yo kwisiga ndetse n'ibindi bitandukanye, bidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Niyo mpamvu rero, usanga hari amakoperative atandukanye ndetse n'ibigo byihariye, bikora iyo miti gakondo bikayikoramo ibicuruzwa bitandukanye.

Imiti gakondo cyane cyane ibimera iri mu ngeri zitandukanye reka uyu munsi tuvuge ku mushishiro, umushishiro ni ikimera gakondo kirimo imiti itandukanye, aho cyane cyane yifashishwa mu kuvura abana havurwa inzoka zo mu nda ndetse ku bakuru n'aho akaba ari umuti cyane cyane wifashishwa mu kuvura amahumane.

Imiti gakondo harimo ibimera n'ibiribwa. Biragaragara rero yuko ibitoki ndetse n'ubunyobwa na byo ubwabyo ari imiti cyane cyane iyo byongerewemo imboga ziribwa. Rero dukwiriye kurya indyo yuzuye mu buryo bwo kwirinda gufata imiti myinshi itandukanye, kuko ibiryo gakondo na byo ubwabyo ari imiti.

Kubera ubushakashatsi bukomeza kugenda butera imbere, usanga ubu ngubu imiti gakondo myinshi isigaye ikoreshwa, ikanajyanwa mu maraburatwari kugira ngo bakoremo imiti igezweho kandi ibashe gutanga igisubizo ku bibazo by'uburwayi butandukanye sosiyete iba ifite, aha rero urabona ko ibinini byerekana imiti gakondo biba byarakozwemo.

Arowu vera geri ni umuti gakondo ukurwa mu kimera gakondo cyitwa igikakarubamba, akoreshwa mu gusigwa mu mutwe, kugira ngo ku bantu bafite uburwayi nk'imvuvu ndetse n'umusatsi upfuka, ubashe kuvurwa n'icyo kimera.

Foreva alowe vera jeli ni amavuta akorwa mu gikakarubamba, akungahaye ku ntungamubiri zitunga umusatsi, ndetse anavura uburwayi butandukanye bw'umusatsi. Rero akaba ari meza kandi akwiriye gukoreshwa n'abafite uburwayi butandukanye burimo n'imvuvu.

Aha ni kwa muganga uvura akoresheje imiti gakondo, harimo iri mu dutebo igiye itandukanye yaba iyi ndabyo iyi mpeke, indabyo zumishijwe ndetse n'izikiri mbisi ari bukoreshe mu buvuzi.

Reyishi ni umuti gakondo uvura indwara y'amibe, aho usanga itegurwa mu miti gakondo n'ubundi n'ibimera bitandukanye, ariko ubushakashatsi bukaba bugaragaza ko ari umwe mu miti ikemura ikibazo cy'amibe bukarangira burundu.

Kugira ngo ubashe gukora ubuvuzi gakondo mu buryo bwemewe, hari amabwiriza yabugenewe ugomba gukurikiza kugira ngo wiyandikishe nk'umuvuzi gakondo, wemerewe gukorera mu gice runaka cyane cyane muri Afurika nk'uko bigaragara muri iyi shusho.

Imiti gakondo n'ubuvuzi gakondo usanga ahanini igiti gikoreshwa uko cyakabaye guhera ku mizi kugera ku mbuto zacyo, aha rero urabona ko uyu mugabo yari afite imizi y'umuravumba kandi agiye kuyikoresha mu buvuzi.

Igikakarubamba nk'umuti gakondo, gikorwamo imiti myinshi ndetse n'aho ubuvuzi buteye imbere, aho kinyuzwa muri laboratwari hanyuma kigakorwamo imiti ndetse n'amavuta bitandukanye, bikoreshwa kandi bikifashishwa mu buvuzi, mu kugira ngo abantu bagire ubuzima buzira umuze.

Mu gihe cy'ihingwa ry'ibiti usanga aho batunganyiriza ibiti cyangwa se ahazwi nka pipinnyeri hari n'ibiti cyangwa se ingemwe z'ibiti gakondo. Izi ngemwe z'imiti gakondo rero nazo usanga ziri mu biti bihenze, ndetse ku buryo biba byihagazeho abaturage kubyigondera biba atari ibintu byoroshye, ariko kubera umumaro wabyo n'ubundi usanga babigura ku bwinshi.

Ibinini by'icyatsi kibisi bikozwe mu miti gakondo biri mu kantu kabugenewe kameze nk'imbehe kabika iyo miti iba imaze gutunganywa kugira ngo ibashe guherezwa abarwayi bayikeneye.

Igikakarubamba cyangwa se arovera mu ndimi z'amahanga, gikorwamo imiti itandukanye, harimo umuti w'amenyo, harimo imiti y'umusatsi ndetse n'amavuta yo kwisiga mu buryo busanzwe.

Ibimera bitandukanye mu buryo bwabyo bwa gakondo, bihindurwamo imiti itandukanye, hano hari ibimera by'amoko atandukanye ndetse ku ruhande rw'iburyo hagiye hari imiti yagiye ikorwa muri ibyo bimera.

Igiti cy'umuravumba ni igiti cy'ingirakamaro cyane, aho mu buryo gakondo kivura indwara zitandukanye kandi kikaba gikunda kuboneka ahantu henshi kuko yaba ahakonja n'ahashyuha kirahaba. Iki gitero kikaba ari ingirakamaro cyane no mu buryo bwa gihanga mu miti itegurwa n'inganda ijyanwa mu mafarumasi, kikaba gikwiye kubungabungwa ndetse n'abashoramari bakaba bagenga ku bwinshi

Mu miti gakondo harimo itunganywamo amavuta atandukanye akoreshwa mu buryo bwa masaje cyangwa se akisigwa ahantu umuntu afite uburyaryate n'amavunane kugira ngo bibashe gukira.

Umugabo wambaye umupira wikigina udafite umusatsi mwinshi akaba ari gusoroma imiti mu gashyamba k'inzitane k'imiti gakondo birasa nkaho ari umuvuzi gakondo wagiye mu gihuru ushaka imiti nkuko ari kuyisoroma mu bigaragara.

Umuti gakondo witwa umwenya, ukaba uri mu gasekuru kandi iruhande rwawo hari uducupa dushyirwamo uwababashije gukamurwa kugira ngo ubikwe mu gihe kirambye kandi ujye ukoreshwa mu buryo butandukanye.

Umuravumba ni ikimera cy'ingenzi cyane kandi gifite agaciro gakomeye mu buvuzi gakondo. Umuravumba uretse kuba ari igiti usanga mu miryango myinshi nyarwanda, ni igiti kinakoreshwa muri za laboratwari zitandukanye mu gukora imiti igezweho. Niyo mpamvu rero iki giti gikwiriye kubungabungwa kandi kigahabwa agaciro gakomeye.

Abantu bari gutunganya imiti gakondo, bakoresheje udusekuro, iyo miti rero harimo ibimera nk'amababi, hari iri ku dukoko dutandukanye iy'imizi nka tangawuzi, iy'impeke nka pripirimanga ndetse n'indi, iyo miti rero ikaba iri gutunganywa kugira ngo ibashe guhabwa abayikeneye mu buvuzi.

Mu miti myinshi itandukanye ikorwa mu kimera gakondo cyitwa igikakarubamba cyangwa se kizwi nka aruvera mu ndimi z'amahanga, harimo na rabero, rabero rero bikaba ari amavuta asigwa ku munwa cyane cyane yifashishwa n'igitsina gore kugira ngo babashe kugira iminwa ihehereye bityo bibarinde indwara zitandukanye zo mu kanwa n'umunwa.

Tungurusumu nk'umuti gakondo ikaba n'ikiribwa, ikaba ikoreshwa mu buryo butandukanye, aho ivura indwara zitandukanye zirimo n'amibe. Tungurusumu rero ikaba ikwiriye gukoreshwa mu buzima bwa buri munsi.

Udutibe n'uducupa bitandukanye, biri imbere ahantu hagenewe kurambikwa ibicuruzwa, utwoducupa ndetse n'utwo dutibe tukaba turimo imiti igiye itandukanye, harimo n'imiti y'amenyo.

Mu rwego rwo guteza imbere ubuvuzi gakondo n'imiti gakondo ni ngombwa yuko abantu batera iyo miti kugira ngo ibungabungwe ndetse no mu gihe kirambye iyo miti ikomeze kuba yabaho. Ni yo mpamvu rero usanga hariho n'amapipiniyeri yihariye atunganya ibiti by'imiti gakondo.

Iyo ugiye mu mavuriro gakondo uhasanga imiti myinshi itandukanye, gusa imbogamizi zigihari ni uko nta buryo bugezweho abavuzi gakondo bakoresha kugira ngo bamenye uburwayi umuntu arwaye, bityo rero ugasanga hakenewe kuzamurwa ubushobozi kugira ngo bajye bavura indwara bazi neza ko arizo koko bari kuvura.

Igikakarubamba ni umwe mu miti gakondo ifite uruhare rukomeye mu gukorwamo imiti myinshi itandukanye, nk'urugero hakorwamo amavuta agiye atandukanye ndetse n'indi miti myinshi yomora nka za peneserine. Iki kimera rero kikaba hari n'aho gihingwa mu buryo bw'ishoramari.

Reka tuvuge uburyo umuravumba ari ingirakamaro, umuravumba ni igiti gakondo ariko gikorwamo imiti itandukanye nk'uburyo bwo kuvura inkorora, ibicurane, ndetse n'uburwayi butandukanye bwo mu nda. Iki giti rero kikaba kinakoreshwa muri za raboratwari ziteye imbere mu buryo bwo gukoramo imiti itandukanye, ari cyo gituma mu muryango nyarwanda bakibungabunga cyane.

Iki kimera ni igiti ariko kikaba n'umuti gakondo, kikaba cyitwa umumvumba, aho kivura indwara zitandukanye cyane cyane indwara z'amarozi ndetse n'imyuka mibi.

Mu buvuzi gakondo, ikimera gakondo cyitwa igikakarubamba gikomeje kuza ku isonga, aho gikorwamo imiti itandukanye, cyane cyane amavuta, amasabune, ndetse n'imiti y'amenyo.

Mu miti gakondo harimo n'inyongeramirire aho usanga hari amafu y'inyongeramirire akorwa mu mpeke ndetse n'imbuto, ayo mafu agakoreshwa mu kongerwa mu biryo cyangwa mu binyobwa, kugira ngo yongerwemo intungamubiri cyangwa amavitamine atandukanye.

Icyapa kiriho ibimera gakondo bikaba n'imiti igiye iri m umavaze agiye atandukanye aho hariho amazina ya buri kimera mu rurimi rw'icyongereza ndatse umutwe wo kuri icyo cyapa ukaba uvuga ngo medical plants.

Uducupa tubiri turi mw’ibara ry'umuhondo dufite udufuniko twa shokora dupfunyitsemo imiti ikomoka ku gikarubamba ikoreshwa mu buryo bwo kwisiga nk'amavuta iyi miti rero ikaba ifasha abantu bagira umwera ndetse ikaba yanasigwa mu mutwe mu gihe byanditswe na muganga.